Umuryango Mpuzamahanga witwa Unicef ni umuryango wita ku bana bari mu kaga, imfubyi, abana bo mu ntambara, abana batitabwaho n'imiryango, ibafasha mu kwiga n'imibereho ya buri munsi.

Muganga wambaye itaburiya y'umweru ari kuvura umwana w'uruhinja amuha umuti mu kanwa, umubyeyi we yambaye ikanzu y'igitenge irimo amabara y'umweru n'icyatsi.

Umukozi ushinzwe kwita ku miti, kuyibika, yambaye uturindantoki tw'ubururu, ari kubika imiti akurikije amazina yayo, iyo miti iri mu cyumba gikonje cyane gifite amarangi y'umweru.

Isahani y'icyuma y'umweru, hariho inshinge zifunze zikiri nshyashya hariho kandi n'agacupa karimo urukingo rwo gukingira abana batoya.

Abakozi bo kwa muganga bambaye ibisurubeti by'umuhondo n'ingofero zibarinda kuba bahura n'imyuka mibi; bari mu gikorwa k'isuku bari kuzitira urugo, bakoresheje umwenda w'iroza.

Abaganga bakora ku bitaro, higanjemo abambaye amatabuririya y'umweru, bari mu nama, bicaye ku ibaraza ry'inzu isa nu'ubururu isakaje amabati y'ubururu, barimo kwiga ku bijyanye no kwita ku murwayi.

Itsinda rigizwe n'abagabo n'abagore n'abana, rishungereye umugore uri kuvoma ku ivomo rusange, wambaye umupira w'icyatsi, ingofero y'umuhondo n'ingutiya y'umweru, arimo kuvoma yifashije uburyo bw'ikoranabuhanga twita tayikondo, amazi ava mu butaka.

Umwana wo kigero k'imyaka umunani, yambaye umupira w'iroze n'ikabutura y'ubururu, ari ku ivomo rusange, ari kuvoma amazi yifashishije igikombe k'icyuma.

Abakozi babiri bambaye ingofero bafatanyije n'umupolisi ushinzwe umutekano, bari kugaburira abana amafunguro arimo igikoma n'amata.

Umuganga wambaye uturindantoki tw'umweru, ari gukikira umuntu wambaye ishati y'umweru, irimo uturango tw'umukara, gukingira ni ngombwa, birinda uburwayi mu gihe kizaza.

Itsinda ryabagore ryitabiriye inama yiga uburyo bafata abana mu kubagaburia no kubagirira isuku; iri tsinda riyobowe n'abajyanama b'ubuzima, bambaye amakote y'icyatsi.

Umuhanga mu by'amazi aje mu modoka y'umweru, ari gusuzuma uburyo ivomo rikora, yambaye ipantaro y'umukara, ishati y'ubururu, inkweto z'umukara, ku ivomo rusange hari abana bane bari kuvomesha utujerekani tw'umuhondo.

Abaganga babiri bambaye amataburiya y'umweru, n'turindamusatsi, n'udupfukamunwa tw'umweru, bari gusuzuma indwara ya corona, umusaza wambaye ingofero y'umukara n'ikanzu'umukara.

Umuhungu wambaye inkweto z'umukara, ipantaro y'umukara n'ishati y'icyatsi, abakobwa babiri bambaye ingutiya z'umukara ngufi, n'imipira y'ubururu, n'umukobwa wambaye ipantaro y'igitenge n'umupira w'ubururu, bitabiriye umunsi wo kwita ku buzima bw'umwana.

Ikirangantego cy'umuryango Mpuzamahanga wita ku buzima, kiri mu ibara ry'ubururu, kigizwe n'inzoka izengurutse umubumbe w'Isi, iruhande rwaho hari ingano.

Umuyobozi w'inama wambaye ikote ry'umukara, amadarubindi, ishati y'umweru na karuvati y'umutuku. Ahagaze imbere y'abafatanyabikorwa mu by'ubuzima barikurebera hamwe ingengo y'imari izatangwa. icyumba yicayemo gisize irangi ry'ubururu.

Umwana w'imyaka cumi n'ibiri, ari ku ivomo rusange, atondetse indobo eshatu z'umweru, ari kuvoma, amazi ni ingirakamaro iyo yateguwe neza.

Imodoka ndende, yitwa makuzungu. Y'umuryango w'isi wita ku biribwa. Itwaye imfashanyo, imodoka irasa n'umweru, iri muri kaburimbo.

Agatanda k'ibiti, gashasheho ibiti, kanitseho ibikoresho byo mu rugo, amasahani, ibiyiko n'amabase, kari mu rugo rwubakishije ibiti byiganjemo iby'imiyenzi.

Abana batatu baje kuvoma amazi y'ikiyaga, umwe afite ikidomoro cy'ubururu, abandi babiri bafite ibidumoro by'umweru, umukuru uri muri bo ahetse umwana mu mugongo, aho baturutse hari umucanga mwinshi.

Itsinda ry'ababyeyi ririmo abagabo n'abagore babarirwa hagati y'ijana na magana abiri baje kwa muganga gufata serivisi zitandukanye zo kwikingiza, kuvuza abana no gufata imiti.

Umugabo n'umugore bari ku ivomo rusange bari kuvoma amazi. Umugore yambaye umupira w'ubudodo w'ubururu yiteze igitenge mu mutwe k'iroza. Naho umugabo yambaye ikote ryiganjemo amabara y'iroza. Ivomo ryubakishije sima.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru, wambaye uturindantoki tw'umweru, ari guha umukecuru imiti amwereka n'uburyo ikoreshwa, impande ya muganga hari umufasha we wambaye ikote ry'umukara n'akagofero k'umweru, hirya ye hari umukangurambaga w'umusore wambaye akajaketi k'umuhondo.

Muganga wambaye itaburiya y'umweru, ari gusuzuma indwara z'uruhu z'umwana ufite ikigero cy'imyaka itanu, nyina umubyara yambaye igitambaro mu mutwe n'ikanzu irimo amakarokaro, impande ya muganga hari imashini y'umukara iteretse ku meza.

Itsinda ry'abafatanyabikorwa mu by'ubuzima bari mu nama, inzumberabyombi igizwe n'amatara y'umuhondo, inkuta zirasa n'umweru naho intebe abafatanyakorwa bicayeho ziregamirwa zisa n'ubururu.

Urera ikigo cy'imfubyi, yambaye amadarubindi mu maso, yambaye n'urugori rw'umuhondo, yambaye ikanzu irimo amabara y'umuhondo n'ubururu, akenyeye umwenda w'umuhondo, urimo amakarokaro...

Abana babiri umuhungu n'umukobwa, bari kuvoma amazi ku ivomo rusange, hari amajerekani abiri, umuhungu yambaye ikabutura y'icyatsi, n'ishati y'umweru, naho umukobwa yambaye umupira w'amaboko magufi w'umweru, n'ingutiya irimo amabara y'umutuku n'umweru.

Inzobere mu by'ubuzima z'ikigo cy'igihugu gizwe ubuzima, iri kwiga uburenganzira bw'umwana n'umubyeyi, umuyobozi w'inama yambaye ikote ry'ubururu, afite n'isakazamajwi mu ntoki, naho abitabiriye inama buri wese afite Mudasobwa ku meza ye.

Umuganga wambaye ikanzu, irimo amabara y'umuhondo, y'icyatsi n'ubururu, wambaye itaburiya y'umweru n'amaherena, ari guhereza uruhinja umuti, mama we yambaye ikanzu ikozwe mu gitenge, iri mu mabara y'ubururu n'umweru n'umukara.

Umugabo wambaye ishati y'amaboko magufi, irimo amabara y'umweru n'icyatsi n'ipantaro y'umukara, yicaye ku ijerekani, avuye kuvoma amazi ku ivomo rusange. Iryo vomo rikikijwe n'urugo rw'ibiti by'imihati.

Umubyeyi wambaye igitambaro mu mutwe cy'umweru n'ikanzu y'ubururu n'igitenge, yaje kuvoma yifashishije amabase n'ijerekani y'umuhondo. Abana be nabo bamukurikiye bari kubyina, harimo wambaye ikanzu y'ubururu n'undi wambaye umupira w'umukara.

Umubyeyi w'umugore ari kumwe n'umwana we bari mu busitani, bari gusoroma imboga zo guteka. Imboga ni ingirakamaro mu buzima bwa muntu, zirinda uburwayi butandukanye.

Ivomo rusange ryubakiye rikomoka ku isoko karemano, rirubakiye hateze amabuye, umugabo ari gukaraba intoki mu rwego rwo gusukura ikiganza.

Ikipe y'abaganga bakora ku bitaro bateraniye mu nama ya mu gitondo yo kugabana uko akazi kari bukorwe. Abateraniye mu nama abenshi biganjemo bambaye amapantaro y'umukara na ho harimo n'itsinda ry'abambaye amataburiya y'umweru, bigaragara ko ari bo bayobozi,...

Ktsinda ry'ababyeyi baje kwa muganga kuvuza abana, umwe muri bo ahagaze afite impapuro mu ntoki z'ikaki akikiye umwana wambaye ishati irimo amakaro, ubururu n'umukara, we yambaye imyenda isa hasi hejuru ikozwe bitenge.

Abana babiri bavukana, umukobwa yambaye ishati y'umweru n'ikabutura y'iroza na kamambiri z'iroza, afite ibinika mu ntoki, ari gukarabya musaza we uvuye mu bwiherero, musaza we ari gukarabira mu ndobo y'ubururu kugira ngo yirinde indwara z'isuku nkeya.

Umwana w'umukobwa w'umunyeshuri avuye mu ubwiherero bwubakishije amatafari, arimo ari gukora isuku ku mazi akaraba intoki kugira ngo yirinde imyanda n'ubundi burwayi bundi.

Itsinda ry'abafatanyabikorwa mu by'ubuzima bari mu cyumba mbera byombi, bitabiriye inama, ni abagabo n'abagore, bari kunywa amazi, bari kwiga uburyo bwo kwita ku buzima n'indwara zugarije umuryango nyarwanda.

Itsinda ry'abafatanyabikorwa mu by'ubuzima baturutse impande zose z'isi, bateraniye mu nama. Bari kwiga uburyo ingengo y'imari yo mu buzima yakwiyongera. Bicaye mu ntebe zisa n'umukara, buri wese afite amazi imbere ye. Ameza yicaweho na yo asa n'umukara.

Itsinda ryiganjemo iby'urubyiruko, bambaye amashati y'umweru, bafite n'ibyapa bikangurira mu umuryango nyarwanda kwirinda indwara y'igituntu.

Umubyeyi wo mu kigero cy'imyaka mirongo ine n'itanu na mirongo itanu, ari kuva muri rusange, ari kuvoma amazi yifashishije ijerekani y'umuhondo. Yambaye umupira w'ubururu n'imirongo y'umweru, akagofero k'ubururu n'igitenge cy'amabara y'icyatsi.

Abanyeshuri bo mu mashuri abanza:abahungu n'abakobwa, abakobwa bambaye kotoni, abahungu bambaye ikaki, bari gufata amafunguro ya saa sita, ishuri barimo hariho ikibaho cy'umukara, bicaye mu ntebe aho bari gufatira ayo mafunguro.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru n'igitambaro mu mutwe, ari gusuzuma ababyeyi bicaye ku ntebe, harimo uwambaye umupira w'umutuku, ari kumufata ibipimo by'umutima, ngo arebe ko nta kibazo afite cy'umuvuduko.

Inzobere mu by'ubuzima zambaye ingofero z'icyatsi, ibisarubeti by'icyatsi ziri kwita ku murwayi ziri kumwongerera umwuka. Imashini yongera umwuka na yo ifite ibara ry'umweru bari mu cyumba gifite inkuta zisize irangi na ryo ry'umweru.

Itsinda ry'abaganga rishinzwe kwita ku buzima bw'umugore n'umwana, bari mu bukangurambaga buhamagarira rubanda kwirinda ihohotera rishingiye ku gitsina. Higanjemo abagore n'abagabo bagera kuri batatu.

Umuforomo wambaye itaburiya y'umweru, arimo gusuzuma umwana w'uruhinja wo mu kigero k'imyaka ibiri. Nyina umubyara yambaye ikanzu y'umuhondo n'agatambaro mu mutwe k'icyatsi karimo ibara ry'iroza.

Umubyaza wo kwa muganga wambaye agapfukamunwa k'ubururu, itaburiya y'ubururu, arimo gusuzuma umubyeyi waje kwa muganga kubyara kugira yumve imiterere y'uruhinja. Umubyeyi aryamye ku gatanda k'umweru, na we yambaye ikanzu y'ubururu.

Leta yubatse amavomero rusange biciye mu mushinga witwa wash, amazi ni ingirakamaro. Ku iri vomero turahabona mubyeyi yaje kuvoma akoresheje amajerekani y'umuhondo, ivomero ryubakishije sima ituruka ku isoko.

Abaganga bambaye amataburiya y'umweru n'abandi bambaye amashati y'ubururu n'amapantaro y'ubururu bari mu mahugurwa yita ku babyeyi n'umwana.

Inzobere mu by'ubuzima barifata ifoto y'urwibutso bahagaze imbere y'inzu y'imberabyombi, yubakishije amatafari ahiye n'inzugi z'ibyuma ifite irangi ry'umweru.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru n'uturindantoki tw'umweru, ari gusuzuma umwana wambaye imyenda y'umweru wazanywe na nyina. Nyina yambaye imyenda y'ibitenge byiganjemo amabara y'iroza.

Itsinda ry'abafatanyabikorwa mu by'ubuzima bari mu imurikabikorwa; hari ahameza, hariho amakuru ajyanye n'imishinga yakozwe, barerekana mu mibare ibyagezweho n'ibiteganywa kugerwaho.

Umugabo n'umugore bari kuvoma amazi. Umugabo yambaye ikote naho umugore yambaye umupira mu mutwe, umupira wicyatsi n'ijipo yiganjemo amabara y'umweru, hejuru yaho hari umukozi w'umushinga ari kureba ko amazi akora neza.

Itsinda ry'abantu biganjemo abagore, baje kagari kwitabira ubukangurambaga bwo kurwanya indwara zitzndura, abayoboye inama bicaye mu ihema ry'umweru, hari n'imodoka y'inyeragutabara yiteguye kujyana ushobora guhura n'ihungabana.

Abakozi bashinzwe iby'ubuzima bari mu nama, bari kureba ibyagezweho n'ibitaragezweho, umuyobozi w'inama yambaye ikositimu y'ubururu, impande ye hari umudamu, hirya ye hari undi mugabo wambaye ikote risa n'ubururu, ku ruhande uru ruhande abari mu nama ni abagabo batatu n'abadamu babiri.

Inzobere mu by'ubuzima ku isi, ziteraniye mu Rwanda, mu nzu mberabyombi. Ziri kwiga ikibazo cy'icyorezo cya Marburg, cyateye igihugu uburyo cyahagarikwa n'uburyo bwo kukicyirinda.

Abana b'abanyeshuri bambaye imyenda y'ikaki, biga mu mashuri abanza, bari gukaraba intoki bifashishije indobo zisa umuhondo, babiri babiri bari kuri buri vomo.

Abana biabanyeshuri biga mu mashuri abanza bahagaze ku kigega bari kunywa amazi y'imvura, batanu muri bo bafite udukombe tw'icyatsi umwana umwe afite agakombe k'ubururu, aya mazi banywa ntabwo asukuye, akwiye gusukurwa.

Umubyeyi wambaye agapfukamunwa gakoze mu gitenge n'umupira w'ubururu, ari koza umwana we wambaye imyenda y'ikaki intoki, amurinda ko ashobora kurya imyanda.

Umwana w'umukobwa wo mu kigero cy'imyaka itanu, ari gukaraba intoki, avuye ku musarani, ari ku ivumo rusange ryubakishije sima.

Umukobwa wambaye ishati y'iroza y'amaboko magufi, n'ingutiya y'umukara, arimo kureka amazi y'imvura, ijerekani iteretse mu ibasi y'icyatsi, ijerekani nayo isa n'umuhondo.

Abana bari mu kiyaga bari koga, bafite hagati y'imyaka itanu n'umunani, ikiyaga kirimo umwanda mwinshi, bigaragara ko abo bana bashobora kurwara indwara z'ubuhumekero n'indwara z'inzoka.

Abakobwa babiri bari mu kigero cy'imyaka cumi n'itanu bari bari kuvoma amazi ku ivomo rusange, umwe ari gukorera undi, mukobwa umwe yambaye ingutiya y'ikaki n'umupira w'ubururu, na ho undi yambaye ishati ya karo n'ingutiya y'ikivuzo.

Itsinda ry'abana, abagore n'abagabo bari gukurikirana ikinamico igaragaza ubukangurambaga mu bwo kwirinda icyorezo cya Ebola. Ubigisha yambaye ingofero y'umweru, afite isakazamajwi mu kanwa y'umutuku, yambaye n'ipantaro yacitse. Impande ye hari undi wambaye ishati y'ubururu.

Itsinda ry'abafatanyabikorwa mu by'ubuzima, benshi muri bo bambaye imipira y'imyeru, barimo, bari guhamagarira umuryango nyarwanda, kwita ku buzima bw'umubyeyi utwite.

Abana batatu, bari kuvoma amazi mu kizenga, bakoresheje amabase n'amasafuriya, aya mazi bigaragara ko ari mabi, arimo indwara zitandukanye, iz'inzoka n'izo mu buhumekero.

Abaganga babiri bambaye amataburiya y'umweru bari kuvura umwana wambaye umupira w'icyatsi, uryamye ku gitanda cy'umweru, igisebe. Nyina umubyara yicaye hirya gatoya, yipfutse igitambaro cy'icyatsi.

Umukozi ushinzwe amasuku, wambaye ishati y'icyatsi n'ingutiya y'umukara n'amaherena y'umweru, yasuwe n'umukozi w'umuryango Mpuzamahanga wita ku biribwa, bari kureba amasuku uko ateye mu gikoni, ku meza hari ibikoresho by'amasuku.

Itsinda ry'abaganga bafite aho bahuriye no kuvura abana, bari mu mahugurwa y'uburyo umwana apimwa ibiro n'uburebure, uwo umwana bari gupima ari mu gipimo cy'umuhondo n'ubururu.

Abana bane b'abahungu baje ku kumugezi kuvoma amazi, umwe yambaye ipantaro n'aho abandi bose basigaye bambaye amakabutura n'ijerekani imwe y'umuhondo n'akajekani kamwe gatoya kajyamo litiro eshanu.

Abanyeshuri b'ikigo cy'amashuri abanza bambaye amashati y'umuhondo, abahungu n'abakobwa bari kumwe n'abafatanyabikorwa babo, abazungu n'abirabura, bari kubabwira gahunda zigezweho mu buzima.

Icyumba cyo kwa muganga, cyakira indembe, bakararamo, gifite ibitanda by'ibyuma biriho imifariso y'ubururu, inkuta z'iki cyumba ni irangi ry'umweru.

Abana babiri bari kuvoma amazi yo kunywa yifashishije ikiganza, umwe yambaye umupira w'umutuku naho undi yambaye imyenda y'icyatsi, bose baricaye.

Ivomo rusange ry'ubwoko bwa tayikondo, rikura amazi mu butaka, hari umubyeyi umaze kuvoma wambaye umupira w'umutuku n'igitenge cy'ubururu, hari n'umwana uri imbere yaryo, ufite utujerekani tubiri mu ntoki n'ibase y'icyuma, bari kuvoma amazi yo kwifashisha gukoresha mu ngo iwabo.

Umubyeyi wambaye umupira w'icyatsi, ahetse umwana mu gitenge kirimo amabara y'ubururu n'umutuku kandi akenyeye igitenge cyiganjemo amabara y'umutuku, ari koza indobo y'umuhondo ifite umufuniko w'umutuku ku ivomero rusange.

Inama y'abaterankunga, muri Minisiteri, y'Ubuzima, iyobowe n'umugabo wambaye ikote ry'umukara, abakurikiranye inama, bicaye barebana, bamwe hakurya abandi hakuno, bicaye ku meza, buri wese imbere yabo, hari amazi yo kunywa. Kandi inama iri kugenda neza.

Umuforomokazi wambaye itaburiya y'umweru n'ipantaro y'ubururu, wambaye agapfukamunwa, ari kuganira n'umuntu wamugannye w'umugabo, waje kwipimisha icyorezo gitera SIDA, iki cyorezo gihangayikishije Isi, ugifashwe ahitanwa na cyo.

Icyapa kigaragaza aho uburinganire hagati y'igitsina gabo n'igitsina gore bugeze, bibiri na cumi numunani bwari bugeze kuri mirongo itanu na gatanu ku ijana, bibiri nakumyabiri na cumi nicyenda bwari kuri mirongo irindwi kwijana, bibiri na makumyabiri bwari mirongo irindwi na gatandatu kwijana, naho bibiri namakumyabiri na rimwe bwari kuri mirongo irindwi nicyenda kwijana.

Umugabo wambaye itaburiya y'umweru, ipantaro y'ikaki, inkweto z'umweru, ari hagati y'abantu bari kumva ibyo ababwira, ari gutanga inama zijyanye no kwita ku buzima bwo mu mutwe.

Umwana w'umuhungu uri mu kigero cy'imyaka itanu, ari kuvoma amazi kunywa yifashishije intoki, indobo y'umweru ifite umufuniko w'umweru iteretse ku meza, umwana yambaye ishati y'ubururu n'ipantaro y'umukara.

Umukobwa wambaye umupira w'icyatsi n'ipantaro y'umukara n'inkweto z'umuhondo, afite ijerekani ari kuvoma amazi yo mu muserege adasukuye, amazi adasukuye ni mabi, ashobora gutera indwara zitandukanye z'inzoka n'ubundi burwayi.

Abana b'abakobwa bafite hagati y'imyaka umunani na cumi n'itatu, bahagaze imbere y'inzu yubakishije amatafari ahiye, ifite urugi rw'ubururu, bamaze guhabwa imipira n'umuryango w'isi wita ku bana.

Ababyeyi baje gukingiza abana babo, mu cyumba gifite inkuta z'umweru, igisenge kirimo amarangi y'umweru, hasi hashashe sima ivanze n'irange ry'umweru. Umubyeyi umwe arahagaze, yambaye igitenge kirimo amabara y'umuhondo, icyatsi n'umutuku. Akikiye umwana we.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru n'ingofero mu maso, ari gusuzuma umurwayi wambaye akagofero k'umweru n'ishati y'igitenge, umurwayi ni uw'igitsina gabo.

Itsinda ry'abaganga bagiye mu giturage, mu bukangurambaga bwo gukingira indwara, umuyobozi wabo yambaye agakote k'umutuku arahagaze, umurwayi yambaye agakote k'umweru bari kumutekerereza uko indwara zihagaze.

Itsinda ry'abaganga batanu b'abagore bicaye ku ntebe za plastique z'umweru. Bicaye baganira uburyo akazi gateye. Ku meza hariho impapuro z'umweru n'igitabo cyandikwamo abagana ivuriro.

Umubyeyi avuye mu bwiherero, ari gukaraba intoki yifashishije kandagira ukarabe, yambaye akagofero k'ubururu, ikanzu irimo amabara y'umweru n'ubururu n'igitenge gisa n'ikigina.

Abana batoya n'umwana wambaye ingutiya y'umutuku, umupira w'umweru hamwe n'umugabo wambaye ipantaro y'ikoboye n'ishati ya kaki, bari kuvoma amazi ku ivomo rusange. Amazi ni ingenzi mu buzima bwa muntu.

Umunyeshuri wambaye ishati y'umuhondo, ingutiya y'ikigina ari gukaraba intoki kuri kandakara ukarabe, iyo kandagira ukarabe isa n'ikigina naho ibase ni icyuma, hafi yaho hari igiti kinini.

Umubyeyi w'umugabo amaze kuvoma amazi ku ivomo rusange, afite ijerekani y'umuhondo, we ubwe yambaye ishati y'amaboko magufi y'amakakaro n'ipantaro y'umukara, inyuma hari uruzitiro rw'ibiti, inyuma yaho gatoya hari amazu ateye umucanga.

Itsinda ry'abagore baje kuvoma amazi ku ivomero rusange, iryo vomero rifite irangi ry'ubururu, naho abo bantu bazanye amajerekani atondetse ku murongo.

Umwana w'umukobwa avuye mu bwiherero, ari gukaraba yifashishije kandagira ukarabe y'indobo y'icyatsi, ubwiherero avuyemo bwubakishije amatafari ahiye.

Umuganga wambaye itaburiya y'ubururu n'amarinete mu maso n'agatambaro ko mu mutwe k'umweru, ari gufata abarwayi ibizamini by'umutima. Umusaza ategereje ikizamini, yambaye ikote ry'ikigina n'ingofero y'ikigina.

Umubyeyi wambaye ishati y'iroza y'iribaya, ufite umusatsi yisukishije wambaye ishapure y'umukara, ahagaze imbere y'iduka ricuruza ibiribwa.

Abaganga b'indwara zo umutwe bari mukangurambaga, barigisha uburyo abantu bagomba kuza bitabira kwisuzumisha indwara zo mu mutwe, no kwita ku bafite izo ndwara muri rusange.

Inzobere mu by'ubuzima bwo mu mutwe, yambaye ipantaro y'umukara n'ishati y'amaboko maremare irimo amabara y'iroza, ari kwakira umugabo bigaragara ko afite ikibazo cy'ihungabana ryo mu mutwe, yambaye imyenda yamucikiyeho, afite n'umusatsi mwinshi. Ari kumwakira ngo arebe icyo yamumarira.

Umukobwa w'ikigero cy'imyaka makumyabiri n'itanu, ufite imisatsi myinshi ku mutwe, wambaye umupira w'ubudodo w'ubururu, biragaragara ko afite ikibazo cy'ihungabana, akeneye ubufasha.

Umuganga wambaye umupira w'ubururu, n'umurwayi wicaye ku ntebe y'ubururu. Bicaye imbere y'ameza afite igitambaro cy'umuhondo, ameza ni ay'ibiti. Arimo kumugira inama y'uburyo yakwita ku buzima bwe, dore ko ari umurwayi. Ku meza hariho icupa rya palasitiki, naho umuganga afite imashini iteretse ku meza.

Umubyeyi ucyekeye uruhinja, yambaye umupira w'umweru, uruhinja rwambaye na rwo igisarubeti cy'umweru, bombi bari guseka yamujyanye kwa muganga gukingirwa.

Umujyana w'ubuzima wambaye ikote k'ubururu ufite urunigi mu ntoki ufite agapfukamunwa mu ntoki ari kumwe n'itsinda wagiye kwigisha umuryango uburyo bwo kwita kw'isuku yo mu rugo.

Impuguke mu by'ubuzima, iri gutanga ikiganiro ku kwita ku buzima bwo mu mutwe. Yambaye ishati y'ubururu afite n'insakamazajwi y'umukara.

Itsinda ry'abaganga n'abaforomo hamwe n'abajyanama b'ubuzima bari mu nama iri kwiga uburyo bakwita ku muntu urwaye indwara zo mu mutwe, kandi barimo bari gutekereza n'ingamba zafatwa.

Umugabo ufite uburwayi bwo mu mutwe, yambaye imyenda yamucikiyeho y'umukara n'agasengeri nako kamucikiyeho gasa n'ikivuzo, afite agatebo mu kaboko ko hirya, ari impande y'ikamyo ifite amabara y'icyatsi n'umukara.

Umugabo bigaragara ko afite ikibazo cyo mu mutwe yicaye mu rubura yubakishije sima n'amabuye. umurwayi yambaye inkweto z'umukara bakenyeye igitenge mu ntoki afite agafuka k'umweru.

Umudamu, uri mu kigero cy'imyaka, mirongo itandatu, afite agahinda gakabije, arimo kurira. Afite igitambaro mu maso, ari kwihanaguza. Umubyeyi akeneye, ubufasha, ashobora kuba, yahuye n'ihungabana, rishingiye ku gitsina.

Abajyanama b'ubuzima bane, basuye umuryango w'umugabo wambaye umupira w'umuhondo n'ipantaro y'ikacye, ari kubatekerereza ubuzima abayeho, umuyobozi w'itsinda, yambaye ikanzu y'umukara n'umweru, afite agatabo mu ntoki.

Itsinda ry'abakozi bo kwa muganga, bafite aho bahurira n'abarwayi bafite uburwayi bwo mu mutwe, bari mu bukangurambaga bahamagarira umuryango Nyarwanda, kwita ku buzima bwo mu mutwe.

Umufureri w'uruhu rwera yambaye ishati y'ubururu ya carokaro, yambaye ipantaro y'ikaki n'inkweto z'ikaki ahetse n'igikapu ku mugongo, yegamye ku rukuta rw'ikigo cyita ku barwayi bo mu mutwe.

Umugabo uri mu kigero cy'imyaka mirongo itatu, mirongo ine n'itanu wambaye imyenda yacitse n'imisatsi idatunganyije n'ishati yacitse. Ahagaze impande ya kaburimbo ashaka ubufasha bwo kwa muganga. Bigaragara ko afite ihungabana ryo mu mutwe.

Umubyeyi atekeye hanze, inyuma y'inzu y'amatafari ahiye, iyo nzu ifite inzugi z'icyatsi n'amadishya y'icyatsi, kandi imbere ye hari umufuniko w'isafuriya, ategereje kurya bihiye.

Amahugurwa y'abaganga bashinzwe indwara zo mu mutwe, bicaye mu nzu mberabyombi, ifite inkuta z'ikaki, izo nzobere kandi zicaye ku ntebe zegamirwa z'ibyuma, imbere hari ameza afite ibitambaro by'ubururu, kumpande ni ikaki.

Umubyeyi Jeanette Kagame, yambaye ikanzu y'icyatsi n'amadarubindi, ari guhamagara umuryango Nyarwanda kwita ku buzima bwo mu mutwe, ni igikorwa yatangije mu Mbuto Foundation.

Abana b'abahungu n'abakobwa bo mu kigero cy'imyaka hagati y'irindwi y'imyaka icyenda, bambaye ipira y'umuhondo. Abenshi muribo biganjemo bambaye utuntu tw'umweru, bari kumva amanota asoza umwaka w'amashuri.

Umukozi wo mu kigo cyo kwa muganga gishinzwe kwita ku baryayi bo mu mutwe, yambaye ipantaro y'umukara n'ishati ifite ibice bibiri, igice kimwe ni kaki, ikindi ni umukara, ahagaze imbere y'inzu, iyo nzu nayo iteye irangi ry'iroza.

Itsinda ry'abaganga bita ku barwayi bo mu mutwe bicaye mu nama mu mbuga bicaye ku ntebe z'umutuku zegamirwa higanjemo abambaye imyenda y'umukara hejuru bari kwiga uburyo bwo kwita ku murwayi wo mu mutwe n'ejo hazaza he.

Umugabo ufite uburwayi bwo mu mutwe, yicaye mu isoko, yambaye ikote rirerire ry'ikaki, Akenyeye n'umwenda w'umutuku n'inkweto z'uruhu zanduye. Afite amacupa ya purasitiki ku nkoni.

Umusore w'umuhungu afite ikibazo cy'ihungabana, ijisho ririmo amarira ryanatukuye, asaba ubufasha kwa muganga kubera ihungabana.

Abajyanama b'ubuzima biganjemo ab'igitsina gore, bari mu mahugurwa ahamagarira umuryango kwita ku isuku, abajyanama bicaye mu ntebe zegamirwa zifite amabara y'imikara, buri wese afite icupa ririmo amazi yo kunywa.

Umubyeyi wambaye umupira w'umweru n'ingutiya y'ubururu irimo utudomo tw'umweru na kamambiri, yicaye munsi y'igiti, bigaragaza ko afite ibibazo by'ihungabana, impande ye hari amasafuriya ntafite aho kuba.

Umugabo wo mu kigero cy'imyaka mirongo itandatu, wambaye ikositimu y'ikijuju ari ku rwibutso rw'abazize jenoside yakorewe Abatutsi, azanye indabo mu rwego rwo kwibuka abe bazize jenoside yakorewe Abatutsi.

Inzego z'umutekano, abapolisi bari mu bukangurambaga bwo kurwanya ihohotera rishingiye ku gitsina, bigaragaza ko buri wese mu muryango nyarwanda ari inshingano ye kurwanya iryo hohotera.

Umuganga wambaye ipantaro y'umukara, inkweto z'umukara umupira w'ikaki, arimo gupima abana yifashishije umunzani. Ababyeyi babo bicaye ku ntebe bategereje ibisubizo.

Umugabo wambaye ishati y'umukara, ufite imisatsi myinshi yizinze n'ubwanwa bwajemo imvi ariko na bwo bwizinze, afite ikibazo cyo mu mutwe.

Umugabo uri mu myaka mirongo ine na mirongo ine n'itanu, bigaragara ko afite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe, yambaye imyenda yamucikiyeho, ari gutoragura imyanda, akeneye ubufasha.

Itsinda ryiganjemo urubyiruko rw'abaganga bitabiriye inama yiga ku buzima bwo mu mutwe, bari mu nzu mberabyombi ifite inkuta zisize irange ry'umweru, hasi hari amakaro afite ibara ry'ikigina, imbere yabo hari ameza maremare afite irangi rya kaki.

Umudamu waje kwa muganga, yambaye umupira w'icyatsi n'ingutiya irimo amabara y'umutuku n'umweru, yiteze kandi igitambaro cy'icyatsi, impande ye hashushanyije ururabo ruri ku rukuta, ategereje ko muganga amwakira.

Abakozi babiri b'ikigo k'igihugu gishinzwe kwita ku buzima bw'abantu, bari gutanga ikiganiro uburyo bwo kwita ku barwayi bafite ikibazo cyo mu mutwe. Bicaye ku meza y'ikaki inyuma yaho hari ibyapa bigaragaza ikigo bakorera.

Umubyeyi wambaye ishati y'umuhondo wipfutse igitambaro umutwe gifite amabara y'icyatsi, n'amaherena mu matwi, afite ikibazo cyo mu maso cyo gukanyarara kubera imikaya, akaba yaje kwa muganga yegamye ku rukuta rw'icyatsi.

Umubyeyi wambaye umupira muremure w'ubudodo, uri mu mabara y'umutuku, umukara n'umweru n'igitenge kirimo amabara y'umuhondo, ayo ubururu wambaye na kamabiri yicaye ku ntebe, afite ikibazo cy'ihungabana yabuze uko abigenza, akeneye ubufasha.

Abakozi bo kwa muganga, bari gutanga ikiganiro cyo kwita ku buzima bwo mu mutwe. Umuganga w'umugore afite insakazamajwi mu ntoki y'umukara yicaye ku ntebe y'umutuku naho umugabo yambaye umupira w'umukara.

Umubyeyi wambaye ikanzu y'ubururu, umupira w'amaboko maremare n'igitambaro kiri ku rutugu cy'umutuku, ari kumwe na muganga w'isanamutima, wambaye umupira w'ubururu n'ipantaro y'ubururu.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru, yambaye kandi n'uturindantoki tw'umweru n'amadarubindi, ari kwita ku murwayi, amukura amenyo. Uyu murwayi ni umwana uri mu kigero cy'imyaka icumi na cumi n'ibiri.

Abaganga babiri bampaye uturindantoki tw'umweru, bari kuvura umwana w'umukobwa wo mu kigero cy'imyaka itandatu n'irindwi indwara z'amenyo, bari gukoresha ibikoresho byabugenewe.

Umukobwa wambaye isengeri y'umweru, afite uburoso mu kanwa bw'ubururu ari kwigisha abantu uburyo boza amenyo batikomerekeje ishinya.

Muganga wambaye itaburiya y'icyatsi, agapfukamunwa k'icyatsi n'amadarubindi, ari kuvura umwana indwara z'amenyo wambaye umupira w'icyatsi, n'ikanzu irimo amabara y'umutuku n'umukara.

Umukobwa wambaye isengeri y'umweru, afite akadodo mu ntoki, ari gukuba mu menyo kugira ngo akuremo imyanda yafashwemo igihe yari ari kurya, ibi bifasha gukuramo imyanda ya buri gihe yofashe mu menyo.

Inzobere mu byo kuvura amenyo ziri kwita ku mwana ufite ikibazo cy'amenyo, inzobere imwe ni umugabo yambaye amadarubindi n'udupfakamunwa tw'umweru n'aho umugore yambaye akarindamusatsi k'ubururu n'agapfukamunwa k'ubururu n'amadarubindi.

Inzobere mu by'ubuzima bw'amenyo, yambaye uturindantoki tw'iroza, irimo kugaragaza uburyo amenyo y'ubuntu ateye n'indwara zishobora kuyafata n'uburyo ushobora kuyasukura.

Ihema ry'umweru, hariho icyapa kigaragaza ko ari umunsi Mpuzamahanga wo kurwanya indwara zo mu kanwa, abaganga bambaye amataburiya bari kwakira abarwayi n'abandi bashaka amakuru kuri ubwo burwayi.

Umusore uri mu kigero cy'imyaka makumyabiri, wambaye umupira w'umweru, ari guseka agaragaza amenyo y'umuntu ufite isuku. Yegamye ku gikuta gisa n'umuhondo.

Icyumba cyo kwa muganga cyakira abarwayi, gifite inkuta z'umweru, harimo urugi rw'ikaki, harimo imashini zakira amashusho, hasi harimo amakaro y'umukara.

Abaforomo batatu, abagabo babiri n'umukobwa umwe, bari mu mahugurwa y'uburyo bwo gusukura amenyo, abaforomo bambaye amataburiya y'umweru bose.

Umusore wambaye umupira w'umuhondo, arasamye ari kwereka abantu uburyo bagomba kugira isuku y'amenyo.

Icyumba cyo kwa muganga, cyagenewe kuvurirwamo abafite ibibazo by'amenyo, gishashemo amakaro y'umweru, ku nkuta ni umweru, n'igisenge nacyo kirasa n'umweru, n'amatara arasa n'umweru, harimo intebe eshatu zicarwaho n'abarwayi.

Kwa muganga baragaragaza ifoto yakuruwe n'icyuma cyo kwa muganga, igaragaza uburyo amenyo y'umuntu agomba kuba ateye, ingano n'umubare wayo.

Muganga w'amenyo yifashishije ifoto, ari kugaragaza ibice bigize amenyo, akagaragaza n'uburwayi bw'amenyo butandukanye.

Umukobwa yambaye ikanzu y'umweru, afite igikapu mu kuboko ari koza amenyo yifashishije uburoso bw'iroza afite umusatsi muremure.

Umugabo w'umwirabura arasamye, afite insimburangingo mu ntoki y'amenyo. Ubundi umuntu mukuru agira amenyo mirongo itatu n'abiri akora imirimo itandukanye, bitewe n'ubwoko bwa buri menyo.

Umukozi ushinzwe iby'amenyo uri mu kigero cy'imyaka makumyabiri n'itanu w'igitsina gore, ari kutwereka imiterere y'amenyo afite isuku.

Igikanka cy'umuntu cyiragaragaza ibice by'amenyo umuntu agira, umuntu agira amenyo mirongo itatu n'abiri, harimo ibijigo, amabwene, muzitsa n'andi makeya.

Umuganga wambaye apfukamunwa k'umweru, n'uturindantoki tw'umweru, ari gusuzuma umusore, uryamye igitanda ku gitanda gisa na move, wambaye umupira w'umweru urimo imirongo y'umukara ari kumusuzuma indwara ya corona.

Umubyeyi wambaye isengeri y'umweru, ufite uburoso bw'iroza ari kwigisha umwana we uri mu kigero cy'imyaka itanu uburyo boza amenyo. Koza amenyo ni ingirakamaro birinda indwara zo mu kanwa.

Umukobwa w'ikigero cy'imyaka makumyabiri n'itanu, afite agakoresho k'icyatsi gafite urudodo, aratwereka uburyo gakoreshwa ukura imyanda mu menyo.

Umukobwa w'inkumi ari koza amenyo akoresheje umuti urwanya indwara zo mu kanwa, uyu mukobwa yambaye isengeri y'umweru afite imisatsi myinshi ni inzobe.

Muganga w'amenyo ari kwiga ibice by'amenyo, hari amashusho atatu atandukanye. Hari Ishusho igaragaza amenyo y'umuntu mukuru, hakaba n'ikindi gice kigaragaza ifoto y'amenyo y'umwana muto, hakaba n'ikindi gice kigaragaza iryinyo ukwaryo n'ishinya yaryo.

Inzobere mu byo kuvura amenyo yambaye itaburiya y'umweru, n'uturidantoki tw'ubururu, arimo ari kuvura umurwayi, ufite ikibazo cy'amenyo, umurwayi ari kumwereka amenyo amurya.

Abagabo babiri barimo kwikura imyanda mu kanwa bifashishije agati, bari mucyumba gifite inzugi zitukura zifite amarido y'umweru, arimo utubara tw'umukara dutoduto.

Icyumba cyo kwa muganga cyagenewe kuvura abarwayi b'amenyo, kirimo imashini zitandukanye zifite ibara ry'umweru, harimo n'agatanda kagenewe umurwayi. Icyumba gifite irangi ry'umweru ku nkuta no hasi.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru ari kwita ku murwayi uryamye ku gitanda cy'umweru, wiyoroshe n'amashuka y'umweru. Impande y'umurwayi hari imashini yongera umwuka ikurikirana n'ubuzima bw'uwo umurwayi.

Umuganga w'umuzungu wambaye ishati y'ubururu n'ipantaro y'ubururu ,ari gusuzuma umurwayi w'umwirabura, wambaye umupira w'umweru w'amaboko magufi n'ipantaro y'ubururu. Aho bahagaze hari intebe y'umufariso ya kaki, ibikuta by'inzu hariho amatafari ahiye, inkingi z'inzu ni umweru.

Umunsi w'umuryango habaye inama, ababaye indashyikirwa bicaye imbere, umwe yambaye umupira w'ubururu, urunigi rw'umukara n'umweru, yiteye umwenda w'umweru, naho umugabo yambaye ingofero y'umukara, ishati y'amaboko maremare y'amakaro n'ipantaro y'iroza.

Umusaza wo mu kigero cy'imyaka mirongo itandatu n'itanu, wambaye ikote ry'ikacye, aricaye, ari kureba ku gipimo imiterere y'umutima we, hari igihe umuntu agira ikibazo cy'umuvuduko ntabimenye.

Umusaza ugeze mu zabukuru no mu kigero k'imyaka mirongo inani n'itanu bicaye mu bwogero bari kumwuhagira bakoresheje isabune ifite urupfuro rwinshi.

Umuganga wambaye ishati y'ubururu, ipantaro y'ubururu, n'itaburiya y'umweru, afite uruhu rwera, ari guhagurutsa umusaza w'umurwayi, wambaye amarinete, ishati y'amaboko maremare y'ubururu, n'ipantaro, ku gitanda gifite amashuka y'umweru.

Umuganga w'umuzungu. Wambaye itaburiya y'ubururu, arimo kurambura amaboko y'umurwayi w'umusaza, wambaye amataratara, n'ishati y'amaboko magufi, y'ubururu.

Ababyeyi batatu bari mu cyumba gifite inkuta z'umweru, babiri baricaye, ku meza bafite udukarita tw'umukara mu ntoki, uhagaze biragaragara ko atwite, barimo bari kuganira ku bijyanye no kwita ku mugore utwite.

Umusaza uri mu kigero k'imyaka mirongo ine a ni'itanu wicaye ku gatebe k'ibiti kagufi, ufite inkoni ku maguru, yicaranye n'abuzukuru be babiri, bari kurya umugati undi ari kunywa amata mu kajerekani k'umweru, bicaye imbere y'inzu ikinguye iteye umucanga ku ibaraza.

Umuganga wambaye umupira w'iroza n'isengeri y'umweru w'umugore, arimo kwigisha umusaza ugeze mu zabukuru uburyo bwo gukoresha imiti yo kwa muganga mu rwego rwo kwirinda indwara zitandukanye.

Abakecuru bo mu kigero cy'imyaka mirongo irindwi na mirongo irindwi n'itanu, bambaye imipira y'imituku n'imyitero y'umweru, bari mu myitozo ngororamubiri yo kugenda, mu rwego rwo kurwanya indwara zita...

Umuryango w'abantu babiri, umusaza n'umukecuru, umusaza yambaye ishati y'umweru, n'aho umukecuru yambaye umupira w'iroza, bari kurya indyo yuzuye, igizwe n'umugati, amata n'imboga.

Inzobere mu by'ubuzima, yambaye ishati y'amako maremare y'ikigina, yicaye ku meza ari gusoma igitabo kirimo ikoranabuhanga rishya.

Umugabo wambaye ishati y'amaboko maremare, umutuku n'umukara n'agapira k'imbere k'umukara, ari gufata amafunguro arimo ibyubaka umubiri inyama, harimo ibitera imbaraga ibirayi, ibirinda indwara imboga.

Umuganga wambaye ishati y'ubururu n'ipantaro y'ubururu, ari kwakira umubyeyi w'umukecuru ufite ishati irimo amabara y'umuhondo, umweru n'ubururu, n'ipantaro y'icyatsi yicaye mu kagare, bari kuganira uburyo afata imiti ahabwa.

Umuryango w'abantu babiri, umugabo yambaye ishati y'iroza n'amadarubindi, naho umugore yambaye amadarubindi n'ishati y'ubururu, bicaye ku meza bari gufata amafunguro, akize ku ntungamubiri, akize ku bitera imbaraga n'ibirinda indwara.

Umubyeyi avuye kwa muganga yicaye mu kagare kagenewe abarwayi, asunitswe n'umukobwa we yabyaye, bombi bari guseka, umubyeyi yambaye amarinete afite n'imvi nyinshi mu mutwe.

Abagabo babiri bambaye amashati y'umweru, n'amapantaro y'ubururu, bari mu gikorwa cyo kugorora imitsi, umwe afite icupa mu ntoki ry'amazi, n'agapira ku mugongo.

Umuforomokazi wambaye ishati y'icyatsi, agapfukamunwa k'ubururu, ari gusuzuma umurwayi wambaye ishati y'ubururu n'agapfukamunwa, umurwayi yicaye ku ntebe ya parasitike y'umweru.

Umubyeyi wambaye ikoti ry'umukara, ikanzu y'iroza, wisize imiti ku ku munwa y'iroza, wambaye amaherena, ari kumwe n'umukobwa we ufite imisatsi miremire, wambaye n'agapira k'iroza, aramwigisha uburyo baterura ibyuma biremereye.

Icyumba kirimo amakaro y'ikaki, gifite inkuta zisize irange ry'umweru, harimo umurwayi uri kugenda yifashishije imbago, yambaye itaburiya y'ubururu, ahagurutse mu ntebe yegamirwa y'umufariso.

Batatu bari gusoma ubutumwa muri telefoni igendanwa, umubyeyi wambaye amataratara y'irosa n'umupira w'umukara afite ikizingo cy'ubudodo mu ntoki, naho uwambaye amatatara y'umweru umupira w'umweru niwe ufite telefone.

Umuganga ugeze mu za bukuru, wambaye amadarubindi, itaburiya y'umweru, n'ishati y'icyatsi, yicaye ku meza y'umweru ari kwandika abagannye ivuriro.

Umuganga wambaye ishati y'iroza n'ipantaro y'iroza wambaye agapfukamunwa n'amadarubindi mu maso, ari gusuzuma umurwayi uburyo yavunitse, uyu murwayi yambaye ikanzu ari mu kigero cy'imyaka mirongo itanu.

Umugabo wambaye ishati y'umweru y'amaboko magufi, ari gukina umukino utekereza imbaraga nyinshi mu mutwe witwa damu, arimo ari gusunika kamwe mu dufuniko tugize uwo mukino.

Abagabo babiri baraganira, umwe yambaye ipantaro y'ikaki, n'inkweto z'umweru n'umupira w'ubururu n'aho undi yambaye ipantaro y'ubururu n'umupira w'umweru n'ingofero, barimo kuganira ibijyanye no kwita ku buzima no gukora imyitozo ngororamubiri.

Umubyeyi wambaye umupira w'ubururu, amaje kunywa imiti ari kwitsamura. Yambaye amadarubindi mu maso, afite umusatsi urimo imvi nyinshi, ari mu cyumba gifite amarangi y'umweru, igitanda kiri hafi ye gifite igitambaro cy'umweru n'amabara y'ubururu.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru, afite isahani mu ntoki y'umweru n'ikanya mu ntoki, ari kwigisha indyo yuzuye uburyo igomba kuba imeze.

Muganga wambaye amadarubindi n'ishati yubururu y'amaboko maremare, ari kwereka umurwayi uburyo umuti ukoreshwa, umurwayi yambaye ishati y'amaboko maremare ihinnye y'amakaro.

Muganga wambaye amadarubindi, ishati y'ikaki, arimo ari gusobanura umurwayi uko uburwayi bwe uko buteye. Yicaranye ku meza y'ikaki hariho impapuro ku meza.

Umuganga wambaye ishati y'amaboko maremare y'umweru n'itaburiya y'umutuku w'igitsina gore, arimo gufata ibizamini undi mugore ufite imisatsi miremire n'umupira w'umukara ku kaboko.

Impuguke mu by'ubuzima bitabiriye amahugurwa yiga gufata neza ubuzima bw'umuturage, mu bitabiriye amahugurwa buri wese afite ikarita imuranga iri mu gatuza.

Icyumba kibagirwamo indembe, harimo abaganga batatu, bose bambaye udupfukamunwa n'amataburiya y'icyatsi, harimo n'ibyuma bibiri bifata amashusho.

Itsinda ry'abafatanyabikorwa ry'ubuzima, abaganga, abajyanama b'ubuzima barishimira ibyagezweho mu kugabanya impfu z'abana, impfu z'abagore batwite, kugabanya malariya, n'ibindi byorezo.

Indyo yuzuye igizwe n'ibintu bitatu by'ingenzi, hari ibyubaka umubiri, ibitera imbaraga n'ibirinda indwara, ibyubaka umubiri harimo inyama, inyamusorwe, naho ibitera imbaraga ibinyamafufu, ibinyabijumba, ibinyampeke, naho ibirinda indwara ni imboga n'imbuto.

Inzobere mu bijyanye no kororoka kw'abantu, yambaye ipantaro y'umukara, ishati y'ikaki, n'umupira w'imbere w'umukara, afite insakazamajwi, ari kwigisha urubyiruko uburyo bagomba kwirinda inda zitateguwe.

Minisiteri y'Ubuzima, ifite ingero zitandukanye, gushiraho imirongo ntarengwa, gukurikirana abarwayi, kugenzura amavuriro, kugenzura ahacuruzwa imiti n'ibindi bijyanye n'ubuzima.

Umusaza uri mu kigero cy'imyaka mirongo inani, yaje kwa muganga kwivuza, yambaye ikote ry'umweru, hamwe n'ingofero y'umutuku, bigaragara ko afite ikibazo cyo mu jisho.

Icyapa kigaragaza amabwiriza yo kwirinda indwara ya korona, harimo kutegerana, kurya ibiryo bitetse bifite isuku, gukaraba intoki, kwambara udupfukamunwa no kwikingiza.

Amasezerano y'ibigo bibiri mu rwego rwo kurwanya indwara zibasiye isi, harimo Sida, igituntu, malariya, mu bihugu bikennye n'ibindi biciriritse.

Inama y'inzobere zo mu Rwanda iteraniye i Kigali, iri guhamagarira abantu kurwanya icyorezo cya Marburg gikomoka kuri virusi.

Itsinda ry'abaganga bari mu mahugurwa yita ku murwayi n'inshingano z'abakozi, abiganjemo bambaye amakoti y'umukara n'amapantaro y'umukara n'amakaruvati, bari mu nzu mberabyombi isize amarangi y'umweru.

Abahanga mu by'ubuzima, bari mu kiganiro, hamwe n'abanyamakuru, bari gutanga ikiganiro kijyanye, ni gute wakwita ku buzima, ukamererwa neza. Bambaye amakositimu n'amapantaro y'umukara, mu cyumba gifite irange ry'ikijuju.

Uducupa tw'umweru dupfundikishije udupfundiko tw'icyatsi, harimo amatembabuzi y'abantu bakekwaho kuba waranduye indwara ya monkeyi posi iterwa na virusi. Iyi ndwara yandurira gusomana, m'ukwegerana cyangwa no gukora imibonanompuzabitsina idakingiye.

Inama y'abafatanyabikorwa mu by'ubuzima iteraniye i Kigali, abitabiriye inama bari mu cyumba kirimo irangi ry'icyatsi, abayobozi b'inama bicaye imbere, bambaye amakositimu y'umukara n'amashati y'umweru, harimo n'umudamu wambaye imyenda y'umweru yicaye ku ntebe z'imifariso y'umweru, abitabiriye inama na bo babiganjemo abambaye imyenda y'umukara, bicaye ku ntebe z'umukara.

Ikigo cy'Igihugu gishinzwe ubuzima, gishinzwe ubushakashatsi by ubuvuzi, gukingira, kurwanya ibyorezo no gukusanya imiti ikenewe.

Abafatanyabikorwa mu by'ubuzima bateraniye i Kigali mu nama yiga uburyo bwo kurwanya virusi itera SIDA. Bacaye mu cyumba kigizwe n'inkuta z'umweru, abitabiriye inama bicaye ku ntebe z'umutuku.

Icyapa gihamagarira abantu kurinda abana ubwandu bwa SIDA n'uburwayi bwayo kigizwe n'amabara abiri: umutuku n'ubururu.

Itsinda ry'urubyiruko ryiganjemo abambaye amashati y'umweru n'imipira y'umweru, bari mu bukangurambaga bwo kurwanya SIDA. SIDA ni icyorezo cyugarije isi, buri wese aba agomba kucyirinda.

Abanyeshuri biga ubuvuzi bw'abantu bari mu ishuri bari gukurikirana ikoranabuhanga rishya mu buvuzi bw'abantu mwarimu wabo yambaye ipantaro y'umweru n'ikote ry'umukara.

Nyakubahwa Jeannette Kagame, yambaye amadarubindi, ishati y'icyatsi y'amaboko magufi, n'isaha y'umukara, ahagaze imbere y'imbaga y'abantu, ari gutanga ikiganiro kijyanye no kwita ku buzima bwo mu mutwe.

Icyapa cy'umweru kiriho amabara, iroza, umukara, ubururu, gihamagarira abantu kwirinda indwara ya kanseri y'ibere.

Icyapa cy'ubururu gihamagarira abaturage kwirinda indwara y'ubushita, ni indwara ifata abantu n'inyamaswa.

Ikarita igaragaza inzego na serivise bitangirwa kwa muganga, akabara k'umutuku kagaragaza ko ibintu bituruka hejuru bijya ku nzego zo hasi, na ho ibara ry'ubururu riragaragaza ko ibintu bituruka hasi bijya mu nzego zo hejuru.

Abakozi b'ikigo cy'igihugu cy'ubuzima bari mu mahugurwa, barimo bari kwiga imikoreshereze y'imiti igezweho, imbere hicaye umufatanyabikorwa w'uruhu rwera, yambaye umupira w'ubudodo, w'umweru n'ikanzu y'ubururu irimo amabara y'umweru. Hicaye kandi n'umuyobozi w'inama yambaye ikote rya kositimu.

Umukozi wambaye umupira w'icyatsi, ingutiya y'umweru irimo amabara y'umuhondo, ari gutanga ikiganiro kubijyanye no kwita ku buzima n'isuku, hari umusangiza w'amagambo wambaye imyenda y'umukara, hari isakazamajwi z'umukara, zitandukanye.

Inyubako yo kwa muganga, ifite inkuta z'umweru, no hasi hasize irangi ry'umweru, bifite intebe zikaraga, zifite imifariso y'umuhondo. Yagenewe kwakira abarwayi batandukanye, bagiye kubagwa.

Inyubako yo kwa muganga yakira abafite ibibazo by'amaso, ifite inkuta z'umweru, harimo ifoto y'ijisho, harimo intebe zakira abarwayi z'ibyuma, harimo n'ibipirizo bisa n'ubururu n'umweru.

Ibitaro cya Kabgayi, biherereye mu karere ka Muhanga, byakira abarwayi batandukanye, byubatswe n'amatafari ahiye, ishakaje amabati y'umweru, ibitaro bizwiho kuvura indwara z'amaso cyane.

Abakozi b'ivuriro bambaye udupfukamunwa tw'ubururu, amashati y'ubururu, ipantaro y'ubururu, biteguye gukora akazi bavura indwara zitandukanye.

Inyubako yo kwa muganga yagenewe kwakira abarwayi batandukanye, yubakishije ibirahuri, hasi harashashe amakaro, hejuru isakaje amabati y'umweru, inkuta ziteye irangi ry'umweru.

Inyubako yo kwa muganga yakira abarwayi, yubakishije amabuye akomoka mu birunga bita amakoro, isakaje amabati y'umweru, ifite inkingi z'ibyuma.

Umuganga wambage itaburiya y'umweru, ufite agapfukamunwa ku munwa wambaye amataratara, ari kuri mudasobwa, ari kureba ibizamine byatanzwe uburyo biteye.

Inyubako yo kwa muganga igizwe n'ibirahuri. Inkuta zayo zifite ibara ry'ikaki. Hasi hasashe amakaro y'ikaki. Inyubako yagenewe kuvura indwara zijyanye n'amaso no gutanga indorerwamo zijyanye nubwo burwayi.

Inyubako yo kwa muganga yubakishije amatafari ahiye, isakaje amabati y'ubururu, ifite aho baparika imodoka hasakaje amabati, ifite n'ubusitani burimo imikindo.

Inyubako yo kwa muganga, wakira abafite ibibazo byo mu mutwe, ifite inkuta z'umuhondo, ifite n'ubusitani burimo indabo z'umuhondo.

Inyubako yo kwa muganga igizwe n'inkingi z'umweru, hasi hashashe amakaro y'ikaki, igisika na cyo kirasa n'umweru, inzugi na zo ni umutuku.

Ikigo cy'agenewe ubuvuzi, gifite amazu menshi y'amagorofa, amwe yubakishije amatafari ahiye, andi asize irangi ry'umweru, gikorotirije urugo rw'ibyuma, fondasiyo.

Icyumba cyo kwa muganga cyakira abakekwaho indwara zishobora kwanduza abandi, abaganga biteguye kwakira umurwayi, bambaye imyenda ibarinda umubiri wose, ku ntoki, ku mutwe n'ahandi hose hashoboka.

Inyubako yo kwa muganga, yagenewe kwakira abarwayi, ifite inkuta zisize irangi ry'umweru, hasi hashashe amakaro y'umweru, hejuru igisenge na cyo gisize irangi ry'umweru, hari abarwayi batatu bategereje muganga, umwe muri bo yambaye umupira w'ubururu, n'ipantaro y'umukara, n'inkweto z'umweru, arahagaze, undi yambaye umupira w'ubururu.

Inyubako yo kwa muganga yakira ababyeyi batwite bitegura kubyara, yubakishije amatafari ahiye, isakaje amabati y'ubururu, akomeye, ifite n'inzugi z'umweru z'ibyuma.

Ikigo nderabuzima cya Kinyinya, kiri mu karere ka Nyarugenge kigizwe n'amagorofa abiri, gisakashi amabati y'ubururu, inkuta zacyo zigizwe n'amarangi y'umweru.

Inyubako y'ikigo nderabuzima cya Shagasha, yubakishije inkuta z'umweru, inzugi z'umukara, isakaje kandi amabati y'ubururu. Imbere hashashe amakaro asa n'ikaki.

Umurwayi w'umukobwa, ufite amaherena, wambaye agapira k'ubururu n'umusatsi uboshye, ari imbere ya muganga ari kumubwira ibibazo afite, muganga yambaye itaburiya y'umweru n'ikayi mu ntoki aramwitegereza, inyuma ya muganga hari umwungiriza we, arakurikirana uko bimeze, umwungiriza we na we yambaye imyenda y'ubururu y'akazi.

Icyumba cyo kwa muganga cyagenewe inama gifite intebe z'umukara. Ahagenewe umuyobozi w'inama ni umwe, igisenge cy'icyo cyumba ni ikigina, inkuta za cyo ni umuhondo.

Ikigo nderabuzima cyubakishije amatafari ahiye, gifite amadirishya y'umweru, gifite ibaraza rinini ryakirirwamo abarwayi, bakicara, hari icyapa kinini kigaragaza serivisi zihatangirwa.

Ibitaro bya Shyira by'akarere ka Nyabihu, bisakaje amabati y'umutuku, bifite igorofa y'amazu abiri agerekeranye, byakira abarwayi baturuka Gakenke, Nyabihu na Musanze.

Inzu y'ibitaro by'Umwamimi Faisal byubatse amagorofa atatu, imbere y'ibitaro hari ibiti bikikije ibyo bitaro, hari ibendera ry'Igihugu n'ibendera ry'ibitaro.

Inyubako yo kwa muganga yajyaga gufatwamo ibizaminirimo. Irimo icyuma cyitwa mikorosikope gipima udukoko, harimo amacupa y'ibirahure ashirwamo ibizamini.

Icyumba cyo kwa muganga gisuzumirwamo abarwayi, gifite imashini ifite umugozi muremure w'umweru, kikagira igitanda cyakira abarwayi cy'umweru n'intebe yikaraga yicarwaho n'umuganga y'umweru, n'ibikuta byose bisa n'umweru.

Ibitaro byakira abarwayi, bifite inyubako zitandukanye, hari inyubako zubakishije ibara ry'umuhondo zisakaje amabati y'umutuku n'izindi nyubako zubakishije amatafari ahiye zisakaje amabati y'ubururu. Ubusitani busa neza bufite n'ibiti hariho kandi n'imikindo irinda umuyaga.

Inyubako yagenewe gukora imiti igizwe n'amagorofa atatu ifite inkuta zisize irange ry'umweru, impande yaho hari igiti gitoshye cy'amabara y'icyatsi.

Umubyeyi aryamye ku gitanda cy'ibyuma, gifite umufariso w'umweru, gifite amashuka y'umweru, impande ye hari imashini zongera umwuka.

Inyubako yo kwa muganga yagenewe kwakira abagore batwite bagiye kubyara, yubakishije amatafari ahiye n'inzugi z'umuhondo, isakaje amabati, ifite n'igisenge gifite ibara ry'umuhondo.

Abakobwa batatu bakora kwa muganga, buri wese yambaye itaburiya y'ubururu n'agatambaro karinda umusatsi kajya gusa n'umweru. Bahagaze mu busitani burimo imikindo ibiri n'ibiti binini bizana umwuka mwiza.

Inyubako yagenewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina yubakishije amatafari ahiye ikigishije inzuki z'ibyuma, iyi nzu uyibona ku bitaro byose by'uturere no kubigonderabuzima bimwe na bimwe.

Umukozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe kwita ku buzima, wambaye amadarubindi, umupira w'umweru, n'agakote k'ubururu, yicaye imbere y'ameza y'ibyuma, ari kwakira umurwayi, amupima umuvuduko w'amaraso.

Inyubako y'ikigo gishinzwe ubushakashatsi mu by'ubuzima, igizwe n'amagorofa atatu, inkuta zayo ni umweru, ifite n'ubusitani buteyeho indabo zitandukanye kandi ishakaje amabati akomeye y'umutuku.

Icyumba cyo kwa muganga, gikorwa mo inama, gifite intebe zegamirwa z'umukara, kikagira n'izindi z'amadiva ziri hakurya no hakuno, harimo isakaza majwi, n'amashusho y'umukara inyuma, hasi hashashe amakaro muri icyo cyumba.

Inyubako y'ibitaro bya Nyanza, isakaje amabati y'ubururu, yubakishije amatafari ahiye, igipangu cyubakishije amasima, isize irangi ry'umweru. Igipangu kandi gifite umuryango ukozwe mu byuma usa n'ubururu.

Inyubako yo kwa muganga y'igorofa rirerire ifite ibyumat bitandukanye bikigishije ibirahuri biri mu ibara ry'ubururu tifite ubusitani buteyemo imikindo.

Abaganga babiri bambaye amataburiya y'ubururu n'udupfukamunwa n'akagofero kagera n'icyatsi bari kwita ku murwayi w'indembe wambaye imyenda y'ubururu aryamye ku gitanda cy'umweru. Inyuma yaho hari umufasha wabo ari kurebera ibyo bakora.

Inyubako y'amagorofa abiri, ubururu, n'umukara, yakira abarwayi batandukanye bari mu ibaraza, naho imodoka y'ijipe y'ibara rya kaki yiteguye kujyana abakozi kureba ubushakashatsi mu bice bitandukanye.

Inyubako y'ivuriro ry'abana batoya, igizwe n'inkuta z'umuhondo, igisenge cy'umweru, hari n'ibirahure bikikije inzu, byinshi.

Icyumba cyo kwa muganga kibagirwamo abarwayi, gifite urugi rw'umweru, rufite ibirahure by'umweru na byo, insika z'icyo cyumba nazo zisa n'umweru.

Inyubako y'Ikigo Nderabuzima cya nyarugezi, igizwe n'amagorofa abiri, asize amarangi y'umweru, isakaje amabati y'ubururu, abarwayi bakirirwa muri ayo magorofa yombi, hejuru no hasi.

Inyubako yo kwa muganga, yubakishije amabuye azwi ku izina ry'amakoro akomoka mu birunga, ifite ubusitani buteyemo ibiti byinshi, umuhanda ucirwamo n'abakora kwa muganga n'abarwayi, wubakishije amabuye, ugiye kwinjira hari icyapa kigaragaza amabwiriza y'ikigo.

Ikigo nderabuzima cya Tabagwe gifite uruzitiro rwubakishije ibyuma bisize irange ry'umweru na fondasiyo ndende, iki kigo cyubakishije amatafari ahiye, igisenge cyacyo gisize irangi ry'umweru.

Inyubako yo kwa muganga igizwe n'amagorofa abiri, ifite ibikuta byubakishije sima bisize irangi ry'ubururu, amabati asakaye iyo nyubako na yo asa n'ubururu, imbere haparitse imodoka y'ikaki y'ubwoko bwa Benz.

Ibitaro bya Ruhengeri, biherereye mu Karere ka Musanze, Intara y'Amajyaruguru, isakaje amabati y'ubururu n'inkuta zisize irange ry'umweru, uruzitiro rwabyo rwubakishije ibyuma n'inkingi z'amatafari ahiye, byakira ubarwayi batandukanye bavuye Musanze, bavuye Nyabihu na Gakenke n'ahandi hose mu gihugu.

Inyubako yo kwa muganga igizwe n'igisenge, ifite ububiko bwinshi, ifite inzugi z'imbere z'ibyuma, hasi hashashe amakaro.

Iguriro ry'imiti y'abantu rigizwe n'utubati tw'umweru, rikingishije inzugi z'ibyuma z'ibara ry'ubururu, inzu yubakishije amatafari ahiye, hasi y'iyo nzu hashashe amakaro, ibyapa bigaragaza iryo riri mu mabara y'icyatsi.

Ibitaro bya Nyarugenge, biri mu karere ka Nyarugenge umujyi wa Kigali, bifite inyubako zifite amarange y'umweru, imbere mu mbuga harimo ubusitani buteyemo ibiti hashashemo amatafari akozwe mu makaro.

Ikigo cyo kwa muganga, gifite isakaro ry'umutuku, inkuta zisize irangi ry'umweru, uruzitiro rwubakishije amabuye azwi ku izina ry'amakoro, imbere hari ubusitani buteyemo indabo nyinshi.

Inyubako zo kwa muganga zubakisha amatafari ahiye. Zose zisakaje amabati, imwe ifite ibiraza ry'umweru, indi ikingishije inzugi zirimo ubururu. Iyo inyubako ifite uruzitiro rukoresheje ibyuma hamwe n'ibiti by'imbuto biri mu busitani.

Inyubako yo kwa muganga, igenewe kubikamo ibikoresho, igizwe n'inkuta z'umweru, ifite inzugi z'ibirahuri, hasi yashashe amakaro, ishakaje amabati.

Itsinda ry'abajyanama b'ubuzima ryitabiriye amahugurwa, abenshi muri bo bambaye imipira y'umuhondo na ho abandi bambaye imipira y'umweru, bategereje amabwiriza y'umuyobozi.

Inyubako yo kwa muganga yagenewe kwakira indembe igizwe n'ibitanda bikozwe mu byuma bifite matera zifite imyenda y'umweru n'amashuka y'umweru.

Ivuriro ryubakishije amabuye y'amakoro akomoka mu birunga, rifite ubusitani burimo indabo z'umutuku n'umuhondo, harimo inzira yagenewe abarwayi yubakishije sima.

Abanyeshuri biga iby'ubuvuzi bw'abantu, bari mu cyumba gifite amarangi y'umweru, bari gukurikirana ibizamini byafashwe ngo barebe ko hari uburwayi bwaba bwabonetsemo. Bambaye amataburiya y'umweru, undi umwe yambaye ikanzu y'umukara.

Inyubako yo kwa muganga, ifite inkuta zisize irangi ry'umweru, hasi hari amakaro y'umweru, igisika na cyo kigizwe n'iragi ry'umuhondo, harimo intebe z'imifariso z'umweru n'izindi z'ubururu.

Ibitaro byigenga byo kwa Kanimba bivura indwara zitandukanye, biri mu igorofa igizwe n'amazu menshi, ifite inkuta z'umweru, inzugi zikingishije inzuki z'ibyuma n'amadirishya menshi.

Abakozi babiri bo kwa muganga bambaye amataburiya y'umweru, bafite n'udupfukamunwa, bari kureba uko imashini yo kwa muganga ikora, bari mu cyumba gisa n'umweru

Inyubako yo kwa muganga yubakishije ihema ry'umweru, ifite umuryango w'icyatsi iri kwakira umurwayi ufite ubumuga bwo kutagenda, uri ku kagare usunitswe n'umuhungu we wambaye ikote ry'umukara, muganga yambaye umupira w'umweru.

Umukozi wo kwa muganga ushinzwe gukurikirana abarwayi, ari kubara ibitanda biriho ubusa. Ibitanda birasa n'umweru, inkuta zo kuri buri gitanda ni ubururu, naho amarido na yo asa n'ubururu. Hasi hashashe amakaro y'umweru, inkuta z'inzu na zo ni umweru.

Inyubako yo kwa muganga, yubakishije amatafari ahiye, ishakaje amabati, ifite inzira y'abagenzi n'abakozi baho, yubakishije sima, ikagira n'ubusitani, burimo indabo zitandukanye, ikagira n'aho abana bakinira, bicunda n'ibigega bifata amazi, binini.

Inyubako yo kwa muganga, ifite igisenge cy'umweru, ikagira n'ibikuta by'umweru, n'ibirahuri byinshi ku mpande zitandukanye.

Inzu yakira ababyeyi batwite n'abagiye kubyara, yubakishije amatafari ahiye, ifite inzugi z'umweru. Ifite abakozi bambaye imipira y'umuhondo biteguye kwakira..

Inyubako yo kwa muganga ifite amagorofa abiri, isakaje amabati y’umutuku, ifite inkuta zisize irange ry’umweru, uruzitiro rukozwe mu byuma bisize irange ry’umutuku.

Abagabo n'abagore bambaye amashati y'umweru, bagemuriye abarwayi, ku bitaro by'umwami fayisali, ibitaro byubatse mu magorofa, bifite inzugi zirimo ibirahuri byinshi higanjemo irangi ry'ubururu.

Kwa muganga hari inzu yagenewe gufatirwamo ibizamini, igizwe n'ibirahuri n'inkuta z'ubururu, hari umuganga uri kureba mu mashini ibizamini yafashe, yambaye itaburiya y'umweru, ingofero y'umweru, n'agapfukamunwa k'umu...

Ikigo nderabuzima cya Gisenyi cyakiriye abarwayi bicaye ku ntebe hari umusaza wambaye ikote ry'umweru n'ipantaro y'umukara n'ingofero y'ikaki ari kwinjira mu muryango.

Inzu yagenewe gukorerwamo ibizamini byo kwa muganga, yubakishije amatafari ahiye, ibaraza ryayo rifite amarangi babiri, hejuru n'umweru, hasi ni umuhondo, hicaye ababyeyi bategereje ibizamini.

Inyubako yagenewe kwakira abarwayi b'amaso, yubakishije amatafari ahiye n'amabati y'ubururu, amarangi ateye ku nzu asa n'umweru, ifite n'ubusitani buriho indabo zisa n'umuhondo.

Umuganga wambaye itaburiya y'ubururu, arimo ari kwita ku murwayi amuha serumu, umurwayi bigaragara ko arembye, serumu iriho akagozi k'umutuku kamanutse, inyuma ya muganga hari imashini y'umukara.

Inyubako yo kwa muganga yakira abarwayi bakuze, yubakishije inkuta irange ry'umweru inzugi na zo zirasa n'umweru, imbere mu busitani ntago hatunganyije.

Inyubako yo kwa muganga ifite inkuta zubakisheje sima, zisize irange ry'ikigina, isakaje amabati y'umweru, hasi harimo amakaro y'umweru, harimo iminzani y'ikoranabuhanga ikoreshwa n'amashanyarazi.

Inyubako yo kwa muganga igizwe n'amazu menshi, harimo asakaje amabati y'umutuku umutuku n'andi asakaje amabati y'ubururu, ifite n'igorofa rigizwe n'inzu ebyiri zigerekeranye, ifite ubusitani, ifite n'ahantu abantu baca hasakaye n'igihe hari imvura.

Isanduka y'icyatsi, irimo imiti itandukanye yifashishwa mu kuvura indwara zifite aho zihuriye n'imyitozo ngororamubiri k'uwavunitse, cyangwa iyo kwisiga, n'indi miti yo kunywa.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru n'isaha ku kuboko, ari gusuzuma umurwayi afashe akaguru ke, umurwayi yambaye umupira w'umutuku n'ikabutura y'umukara, yambaye n'amaherena.

Amazi ari gusukwa mu kirahuri, yifashishije akajerekani, amazi agirakamaro gatandukanye mu gusukura umubiri, mu kurinda inyota no mu buzima busanzwe amazi ni mirongo irindwi na gatanu ku ijana by'umubiri w'umuntu.

Umugabo wambaye umupira w'umukara, ikabutura y'umukara, ufite umusatsi mwinshi uzingiye inyuma, ari mu cyumba cy'uruganiriro, apfukamye ari gukora imyitozo ngororamubiri, muri icyo cyumba harimo intebe z'umufariso, hasi yashashemo amakaro y'ikaki.

Muganga wambaye itaburiya y'icyatsi, ari kwambara agapfukamunwa, yambaye uturindantoki tw'icyatsi, imashini iri ku meza arimo ari gusoma amabwiriza ari mu mashini ngo ayakurikize uko ateye.

Umukobwa wo mu kigero cy'imyaka makumyabiri, wambaye umupira w'ikaki, yakomeretse akaguru, bamupfutse, bashizeho igipfuko cy'umweru, agomba gutegereza igihe muganga azagikuriraho.

Muganga wambaye itabura y'umweru n'agafuka k'umweru, ari kwita ku murwayi uryamye ku mufariso, yoroshe amashuka y'umweru, umurwayi biragaragara ko arembye aza kwitabwaho cyane.

Ikiganza gifashe amazi ari mu icupa rya palasitiki rifite umufuniko w'ubururu. Amazi ni ingenzi ku muntu ukora imyitozo ngororamubiri. Akura imyanda mu mubiri kandi arinda indwara z'impyiko.

Isahani y'umweru iriho ibiryo byifashishwa n'abakora imyitozomubiri. Hariho imbuto arizo: inkeri, naho imboga hariho inyanya n'amashu, ibitera imbaraga hariho ibirayi n'ibigori, naho ibyubaka umubiri hariho ibishyimbo.

Umukobwa uri mu kigero cy'imyaka makumyabiri n'itanu ari gukora imyitozo ngoramubiri, yicaye hasi, ukuguru kumwe arakuzinze ukundi kwarambuye, yambaye agasutiya k'iroza n'ipantaro y'iroza, yicaye hasi.

Umugabo mu kigero cy'imyaka mirongo itatu, yicaye hasi, yambaye isengeri y'umukara, inkweto z'umukara, n'ipantaro y'ubururu, ari mu busitani bukatishije imashini, inyuma ye hari ibiti nabyo byakozwe neza nk'umutako.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru n'agapfukamunwa ari gusuhuza umwana wakutse amenyo ari mu myitozo, ababyeyi b'uwo mwana, umwe ni umugabo, yambaye agapfukamunwa n'ishati irimo utudomo y'uweruru naho nyina w'umwana yambaye agapfukanwa k'umukara n'ishati y'umukara.

Umukobwa uri mu kigero cy'imyaka makumyabiri ari gukora imyitozo ngororamubiri, yambaye isengeri y'umukara n'ipantaro y'ikivuzo yicaye hasi, ari gukora imyitozo ngororamubiri.

Muganga wambaye itababuriya y'umweru, ipantaro y'umukara n'inkweto z'ubururu ari gutanga amahugurwa kubijyanye no gukoresha imashini yo kwa muganga itanga umwuka.

Icyapa kiri kwamamaza amazi. Amazi ari mu icupa rya parasitike ry'ubururu, bikagaragaza ko amazi nta bara agira, nta cyanga nta n'uburyohe.

Umutoza w'abakinnyi, yambaye umupira w'icyatsi, uriho ibirango by'umweru, afite umupira mu kaboko kamwe w'ubururu, ategereje abakinnyi ngo abatoze.

Umusore wambaye umupira w'umweru, inkweto z'umweru, n'ikabutura y'umukara, ari mu myitozo ngororamubiri ahagaze ku byuma. Gukora imyitozo ngororamubiri ni ingira kamaro, wirinda uburwayi butandukanye no gusaza imburagihe.

Imbuto n'imboga zitandukanye, imboga harimo urusenda n'ibihaza, n'aho imbuto ni imineke, pome, amaronji n'indimu, ibi byose byifashishwa mu rwego rwo kurinda indwara zitandukanye ku mubiri w'umuntu.

Abahanga mu gutegura imirire bambaye udupfukamunwa tw'ubururu n'ingofero z'icyatsi n'isurubeti y'ubururu bari gutegura ibiribwa. Ku meza hariho isahani y'icyuma, hameza hariho igitambaro cy'ubururu.

Abagabo babiri bari mu cyumba gifite inkuta z'umweru, bari mu myitozo ngororamubiri, umwe yambaye umupira w'umweru n'ikabutura y'ubururu n'amasogisi y'umweru aryamye ku gatanda, naho undi yicaye impande ye, yambaye umupira w'ubururu ari kumukanda amaguru.

Umukobwa wambaye isengeri irimo amabara y'icyatsi n'umweru n'ubururu, ari kunywa amazi mu icupa rya pulasitiki.

Abasore n'inkumi babakorabushake bari kwiga uburyo bashobora gutabara umuntu uhuye n'amakuba, mwarimu ubigisha yambaye itabu y'umutuku, n'aho bo bambaye amataburiya y'umweru harimo umusaraba.

Umukobwa wo mu kigero cy'imyaka makumya n'itanu, yambaye umupira w'iroza, ari kunywa amazi mu icupa rya parasitiki. Umukobwa afite imisatsi miremire, yambaye n'insakazamajwi ziri mu matwi zifite imigozi y'umweru.

Umukobwa wambaye ipantaro y'ubururu, n'isengeri y'umweru, amanitse amaboko, aritegura kwiruka mumyitozo ngororamubiri, imbere ye hari ururabo rw'icyatsi.

Igikapu cy'umutuku kirimo amabara y'umukara gihekwa mu mugongo kirimo imiti itandukanye, hari iyo kuvara mu maso, kuvura umugongo, amagufa n'izindi ngingo.

Umugabo uri mu kigero cy'imyaka makumyabiri n'itanu na mirongo itatu, yavunitse akaboko, ari kwikandisha igitambaro cy'ubururu, mu rwego rwo kugabanya imvune mu kaboko. We yambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'ikoboyi.

Umukobwa wambaye isutiya y'umukara, ipantaro y'ikijuju, yicaye ku mukeka imbere ya mudasobwa, ari kureba amashusho uburyo umuntu yitwara ari mu myitozo ngororamubiri, icyumba yicayemo kigizwe n'amakaro asa n'ikake.

Umugabo uri mu kigero cy'imyaka mirongo itatu, yambaye umupira w'ubururu, yambaye n'umudari mu gatuza, ari kunywa amazi yifashishije icupa ry'ikirahure.

Umuganga wambaye umupira w'ubururu w'amaboko magufi, n'ipantaro y'ikaki, ari kuvura umurwayi wavunitse ikirenge, akoresheje ibipfuko by'umweru. Umurwayi yambaye inkweto z'umweru, aryamye ku gatanda k'ubururu k'abarwayi.

Umugabo wambaye umupira w'umukara n'amadarubindi y'umukara, afite icyuya mu maso, ari kunywa amazi, mu icupa rya parasitiki, amazi ni ingirakamaro mu buzima bwa buri munsi, arwanya indwara zitandukanye, harimo n'umwuma.

Amagufa y'umuntu, imbavu zirinda ibihaha n'umutima kuba byakomereka, na ho urutirigongo rutuma umuntu agira isura, akaba yahaguruka, cyangwa akagenda.

Umusore wambaye umupira w'umuhondo, wanditsemo gatatu, ipantaro y'ubururu y'ikoboyi, yavunitse, ateruwe n'abakorerabushake ba Croix Rouge bambaye umupira w'umweru n'udukote tw'umutuku, bamujyanye kwa muganga.

Abakinnyi babiri, bari mu myitozo ngoramubiri, umwe afite uruhu rwera, ari we wambaye ingofero y'umukara, umupira w'umukara, naho ufite uruhu rwirabura, yambaye umupira w'umukara, ikabutura y'umukara n'inkweto z'umutuku, aryamye ku gatanda k'umukara.

Imipira itandukanye, uw'umuhondo wifashwa gukina tenisi, uw'umweru wifashishwa gukina umupira w'amaguru, hari n'umupira ukina rugubi usongoye.

Icyapa gihamagarira abantu gukora imyitozo ngororamubiri, mu rwego rwo kuvura no kwirinda indwara zitandukanye, hano turabona umugabo wavunitse akaguru.

Umukobwa ari gukora imyitozo ngororamubiri yambaye isengeri y'umweru, iyo amajije gukora imyitozo arya indimu, amaronji, pome n'izindi mbuto zose zirinda indwara.

Umugabo uri mu kigero cy'imyaka mirongo ine, ari kunywa amazi yifashishije icupa rya parasitike, yambaye umupira mugufi, amazi ni ingenzi mu buzima bwa muntu, arinda inyota, arinda n'indwara zitandukanye, iz'impyiko, n'umwijima.

Imiti ikozwe mu bwoko butandukanye, hari iy'ibinini ikozwe mu mavuta, ikozwe mu ifu, iyi miti yose ikoreshwa mu kuvura indwara zifite aho zihuriye n'abakora imyitozo ngororamubiri.

Umuti witwa sitopayine uri macupa y'umweru atatu, afite icyapa kiyagragaza cy'ubururu. Ni umuti uvura ububabare bw'ako kanya.

Umukobwa ukora siporo ngororamubiri, yambaye furari mu ijosi, yambaye kandi isengeri irimo amabara y'ubururu, icyatsi n'umweru. Ari kunywa amazi ari mu icupa rya pulasitike kugira ngo agarure amazi yatakaje.

Umubikira wambaye itaburiya y'ubururu, witeye agatambaro k'umweru mumutwe, hamwe n'umuzungukazi bari kuvura umwana wavunitse ikirenge ubwo yari muri siporo.

Umusore wambaye isengeri y'umukara, ikabutura y'umukara, inkweto z'ubururu n'amasogisi y'umweru ari mu myitozo ngororamubiri yazamu akaguru ku ruzitiro rw'urugo arimo kugorora imitsi.

Umukobwa wambaye ikabutura y'ubururu isengeri y'ubururu, ufite imisatsi miremire, ari mu myitozo ngororamubiri, ateruye akaguru k'iburyo kandi yambaye n'inkweto z'umweru zifunze hose.

Umuganga wambaye ishati y'ubururu, ipantaro y'ubururu n'uturindantoki tw'umweru, arimo ari kwigisha umurwayi, uburyo akoresha imbago, z'ibyuma.

Umusore uri mu kigero cy'imyaka mirongo itatu n'itanu, yambaye umupira w'umukara, yiteze igitambaro mu ijosi, ari kunywa imiti, avuye mu myitozo ngororamubiri.

Umukobwa uri mu kigero cy'imyaka makumyabiri ari mu myitozo ngororamubiri, yambaye ikabutura y'ubururu, isengeri y'icyatsi, n'inkweto z'umweru zirimo utubara tw'umutuku n'ubururu, ari gusunika ibyuma, ahantu mu kibuga kirimo irangi ry'icyatsi.

Umugabo wo mu kigero k'imyaka mirongo itatu n'itanu, yambaye umupira w'umuhondo, yambaye ipantaro y'umukara, inkweto z'umukara, yicaye hasi arambuye amaguru, ari gukora imyitozo ngororamubiri.

Umuryango Mpuzamahanga wita ku bababaye ukorera mu Rwanda croix rouge, uri gutanga amahugurwa ku bafashamyumvire yo kwita ku bakene.

Umugabo wambaye ikabutura y'umukara, yakomeretse ivi ubwo yari ari mu myitozo ngororamubiri, ategereje ko muganga amuvura.

Ibizamini byafashwe kwa muganga, bigaragaza ishusho y'ubwonko, n'akamaro k'ubwonko. Ibi bicishwa mu mashini ya reyo, bikagaragaza ahantu ubwoko bwangiritse. Ubwonko ni igice cy'ingenzi, kuko ari cyo gikoresha umubiri wacu wa buri munsi.

Umukobwa uri gukora imyitozo ngororamubiri, yambaye isengeri y'icyatsi, inkweto z'umuhondo n'isaha ku kaboko. Arunamye. Ahantu ahagaze hari amakaro.

Umusore ari mu myitozo ngororamubiri, yambaye umupira w'ikigina, inkweto z'ikigina n'ikabutura y'umukara avunitse akaguru yiteguye kujya kwa muganga.

Umukobwa wambaye isengeri y'umukara n'ipantaro y'umukara n'inkweto z'umweru, ari gukora imyitozo ngoramubiri yicaye hasi imbere mu busitani.

Igare ryagenewe abafite ubumuga n'abarwayi batabasha kugenda, rifite imipine ine, tubiri dutoya n'indi ine, ibiri minini, rifite aho kwicara umurwayi, hariho intebe y'umufariso.

Icyuma bifashisha muri siporomubiroramubiri giterurwa, gifite amapine abiri, gifite n'ikind cyuma kigitambitsemo, hari amaronji abiri akase, hari na metero mugozi n'amacupa abiri y'amazi, aya mazi yifashishwa mu kumara inyota naho imbuto ni izirinda indwara.

Umusore wo mu kigero cy'imyaka makumya n'itanu, yambaye isengeri y'ikijuju, arogoshe umutwe, ari kunywera amazi mu icupa rya palasitiki.

Umugabo wambaye ipantaro y'ubururu n'umupira w'icyatsi yavunitse akaguru ari kwitabwaho na muganga wambaye itaburiya y'umweru, ufite isaha mu kaboko, umurwayi yicaye ku gatanda k'amabara y'umukara.

Imbago y'icyuma ifite kumpera zayo umukara, yifashishwa hagenda umuntu wavunitse amaguru.

Umukobwa uri mu kigero cy'imyaka makumyabiri n'itanu, ari gukora imyitozo ngororamubiri yicaye hasi, yambaye ipantaro y'umukara, inkweto z'iroza n'umupira w'iroza.

Umukobwa uri mu kigero cy'imyaka makumyabiri n'itanu, ari kunywa amazi mu icupa rya purasitike, yambaye isengeri y'umukara, n'ikabutura y'umukara, afite umusatsi muremure, yambaye n'amaherena, avuye mu myitozo ngororamubiri.

Urutirigongo mu ibara ry'umweru, umugabo uri kwirukanka mu ibara ry'ubururu, umugabo uri gukora imyitozo ngororamubiri mu ibara ry'icyatsi, umusaraba mu ibara ry'umutuku, na ho ibiganza bibiri bifatanye mu ibara ry'umuhondo.

Iparato y'umweru iriho ikizingo cya pamba y'ubururu, yifashishwa mu kuvura ibikomere, guhanagura imyanda n'ibindi byose bifite aho bihuriye n'isuku yo kwa muganga.

Ikirundo cy'imiti kirunze ku meza y'umweru, kigizwe n'imiti yifashishwa mu kuvura indwara zifite aho zihuriye n'imyitozo ngororamubiri. Harimo imiti ituruka ku mavuta, ibinini n'amafu.

Ibikoresho n'imiti byifashishwa bavura umuntu ugize ikibazo ari mu myitozo ngororamubiri, harimo ibinini, umukasi, ibipfuko, uturindantoki n'ibindi.

Umukobwa wambaye isengeri y'umukara, ipantaro y'umukara n'inkweto zifashishwa mu myitozo ngororamubiri, yicaye hasi arambuye amaguru, afite insakazamajwi mu matwi zifite imigozi y'umweru, arimo gukora imyitozo ngororamubiri.

Umuntu ukora imyitozo ngororamubiri agomba kurya ibikomoka ku matungo inyama, amagi, formage. Akarya imbuto, inkeri, imineke n'indimu n'amashu n'urusenda n'imboga.

Umugabo wambaye isengeri, iriho icyapa ibihumbi bitanu magana atatu na kabiri, wambaye ikabutura y'umukara, yagize ikibazo cyo kuvunika; ari kwitabwaho n'abakoranabushake babiri bambaye udukote tw'umuhondo.

Impamvu dukora siporo ni ukugabanya ibinure mu mubiri, kugabanya umuvuduko w'amaraso, kugabanya ihungabana, kugabanya ibiro no kongera gukora neza kw'igifu buri munsi.

Muganga wambaye ishati y'umukara, agapfukamunwa k'ubururu n'isaha ku kuboko. Arimo ari kuvura umugabo wari urimo akora imyitozo ngororamubiri. Wambaye agatambaro mu mutwe n'isengeri y'umweru.

Umugabo wambaye isengeri irimo ubururu, ipantaro y'ubururu n'inkweto z'umweru, n'amasogosi y'umweru, ari mu cyumba ari gukora imyitozo ngororamubiri. Icyumba arimo hasi gisize irangi ry'umweru, ku ruhande gifite inkuta na zo zisize irangi ryumweru.

Imiti ikozwe mu bwoko butandukanye hari ikozwe mu binini bisa n'umweru, hari ikozwe mu nombe n'indi ikozwe mu mutobe, ikozwe mu mutobe iri mu gacupa k'umukara naho ikozwe mu nombe yo iri mu ibara ry'icyatsi.

Ibyo turya ni byo bivamo imiti, ibitera imbaraga harimo ibijumba, imyumbati, ibirayi n'amasaka, ibyubaka umubiri harimo ibinyamusogwe aribyo ibishyimbo, amashaza n'ibikomoka ku matungo inyama n'amafi, ibirinda indwara bindi ni imboga n'imbuto.

Imiti ikomoka mu bwoko butandukanye, harimo ikomoka ku mbuto, ikomoka ku mboga, ikomoka ku bitera imbaraga, ikomoka no ku nyamaswa.

Igiti gitoshye cy'urumogi kivura indwara zitandukanye iz'ubuhumekero, uburibwe ariko iyo gikoreshejwe nabi kiba ikiyobyabwenge, umuntu ukinyweye akaba yarwara indwara zo mu mutwe.

Igiti kivamo imiti itandukanye gakondo gifite ibara ry'icyatsi giteye imbere mu ruzitiro rwukishije ibiti byumye.

Ahatunganyirizwa imiti itandukanye, ituruka ku mizi, ituruka ku ndabo n’ituruka ku mababi. Iyo miti itunganyirizwa ku isekuru y'umweru ifite n'umuhini w'umweru.

Amacupa ane, atatu asa n'umweru, irindi risa n'umukara, yose arimo ubuki, ubuki bwifashishwa mu gukora imiti itandukanye cyane cyane iy'abana, hakorwamo umushongi.

Inkomoko y'imiti ivura abantu. Hari ikomoka ku bihingwa, n'ibikomoka ku matungo, n'ikomoka mu itaka. Hano turareba imiti ikomoka ku bihingwa. Ibyo bihingwa ushobora kubishishura, ushobora gukoresha imbuto zabyo, ushobora no gukoresha amababi.

Icupa ry'umweru ririho igikakarubamba, iki giti kivura indwara zitandukanye, izo uruhu, izo ubuhumekero, ibisebe, kuvunika n'izindi ndwara zitandukanye.

Agakombe k'umweru n'isahani y'umweru bitegurirwamo umutobe w'amaronji na tangawizi, uyu mutobe wifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, aka gakombe gateretse ku meza y'ibiti.

Imiti gakondo ikoreshwa kuvura indwara zitandukanye mu bantu bakuru n'abana, ikomoka ku biti, ikomoka ku mizi, ikomoka ku butaka n'ikomoka ku nyamaswa.

Umukozi ukora imiti, wambaye itaburiya y'umweru, yicaye ku ntebe y'umukara, yicaye ku meza y'umweru, imbere hari amacupa abiri, rimwe ry'umukara, irindi ry'umweru, yose arimo umuti apfundikije udufuniko tw'umutuku.

Amacupa icumi y'umuhondo arimo umuti ukomoka ku gikakarubamba, icyenda ari mu gakarito gasa n'ikaki, na ho icupa rimwe riri hanze y'igikarito, igikakarubamba kivura indwara, n'izindi ndwara zibasira umuntu.

Erythrocin, umuti uvura indwara zitandukanye, izo mu maraso, indwara zo mu myanya mpuzabitsina, izo mu nkari, indwara zo kwituma nabi n'inkorora.

Umuti witwa Reishi uri mu icupa ya parasitike, wagenewe kuvura indwara z'inzoka yitwa amibe, uzivura mu kigero cyo hejuru.

Umuhanga mu by'imiti ari kugaragaza inkomoko y'imiti, hari ikomoka mu misogwe, ikomoka ku mababi, ikomoka ku ndabo n'indi ikomoka ku mizi.

Imiti ikozwe mu binini yanitswe ku kibabi cy'icyatsi, bategereje ko yuma ubundi ikabikwa ahabigenewe.

Ibyatsi bitandukanye, bifite amababi atoshye, bikorwamo imiti itandukanye ivura uburwayi, imwe irumishwa, indi igakorwamo imitobe, ikazabikwa igihe kirekire.

Ishyamba rya kimeza ririmo ibiti birebire n'ibindi bigufi, ishyamba rivamo imiti itandukanye. Hari ikomoka ku mababi, hari ikomoka ku bikunyu, hari n'ikomoka mu mizi. Iyo yose yifashishwa mu kuvura abantu.

Inzu yubakishije ibyatsi yanditseho ibikoresho gakondo byifashishwa mu buvuzi, harimo utubindi dukozwe mu ibumba, icyungo, ibase irimo udukombe n'ibindi bikoresho byifashishwa mu kuvura n'umufuka urimo amacupa akusanyirizwamo imiti.

Igiti cyitwa umuravumba cy'ubusitani, kitaweho, kivura indwara zitandukanye, ku bakuru no ku bana. Izo ndwara harimo: Iz'umuriro, inkorora, umusonga n'izindi nyinshi.

Iduka ricuruza imiti yo kwa muganga gakondo, ikomoka ku gikakarubamba, iri mu macupa atandukanye harimo iri mu macupa y'umuhondo, n'indi yo mu macupa y'umweru.

Igiti cy'igikakarubamba, ni ingirakamaro mu buzima bwa muntu. Kimaze imyaka miliyoni, gikoreshwa mu buvuzi gakondo, havamo, imiti, yo kuvura, uruhu, ubuhumekero, n'ibisebe.

Icupa ry'ikigina, ririho icyapa cy'umweru, rirerekana ko harimo ubuki bukoreshwa mu miti itandukanye, ubuki kuva na kera, mbere y'umuvuko wa Yesu, ubuki bwakoreshwaga mu kuvura.

Amaronji, indimu, ni imbuto z'ingenzi mu mubiri w'umuntu, imbuto zirinda uburwayi ariko by'umwihariko amaronji arinda guhungabana k'umubiri, akize kuri vitaminini K na vitaminini ya B.

Amavuta yo kwisiga ari mu macupa y'umuhondo, afite agafuniko k'umukara, impande yaho hari igikombe kirimo amavuta avanze asa n'umweru.

Hano uyu muntu ari kwakirati w'amenyo ukomoka ku gikakarubamba, igiti cy'igikakarubamba kivamo imiti itandukanye ivura indwara z'uruhu, indwara zo mu nda n'ubundi burwayi butandukanye.

Imiti gakondo iva mu byatsi, ikava mu mizi, ikava no mu bishishwa, hano turi kubona indabo z'umuhondo, tukahabona n'izindi ndabo zijya gusa n'umutuku.

Ifu zagenewe kuvura abana, n'izihabwa abagore batwite n'abonsa, zirimo ibintu byinshi bitandukanye, amata, soya, amasaka, n'ibigori.

Ibinini bitatu byifashishwa mu kwirinda gutwara inda zidateguwe, nyuma yo gukora imibonano mpuzabitsina itizewe.

Umuvuzi gakondo w'umugabo yambaye ishati y'iroza n'akagofero mu mutwe, ari kwerekana uburyo imiti gakondo itangwa hakurikijwe akamaro kayo.

Isahani y'umweru iriho amaronji n'izindi mbuto, hariho kandi n'agacupa k'umweru karimo umutobe wifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Indimu ebyiri ziri ku gakombe k'umweru kari ku isahane, hari kandi tangawizi iri ku meza hamwe n'ironji hamwe n'ikawa, byifashishwa bakora ibinyobwa bidasindisha.

Imiti, ibiribwa, amavuta, byifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye bikomoka ku gikakarubamba, hari amacupa abiri y'umuhondo, akajerekani k'umweru gafite ibara ry'ubururu n'ibiryo biri mu gasanduku k'iroza.

Igiti cy'ikibonobono gitanga imiti itandukanye yo kuvura imiswi, inkorora kandi cyifashishwa no gukoramo amavuta atwara indege.

Inyanya zihinze mu murima zisasiye, inyanya zifashishwa mu biribwa bya muntu wa buri munsi, inyanya kandi zirinda indwara zitandukanye.

Umuti w'amenyo ukozwe mu gikakarubamba uvura indwara zitandukanye zo mu kanwa, uri mu gipfunyikishwa cy'umweru, wegetse ku rukuta rw'icyatsi.

Iki cyatsi turi kubona cyitwa igikarubamba, ni icyatsi guhera mu buzima bwa kera cyifashishwa havura indwara zitandukanye, iz'uruhu, iz'ubuhumekero, yewe kivura n'imvune.

Agacupa k'umweru gapfundikishije umufuniko w'umweru, gashyirwamo imiti ikomoka ku mbuto, indimu, imyembe, iyo miti yifashishwa kuvura indwara zitandukanye cyane cyane ku bana n'abandi badafite ubushobozi bwo kurya.

Imiti ikozwe mu gika rwamba gakondo, iri mu macupa abiri, icupa rimwerasa n'umweru, irindi rirasa n'umuhondo, Igikakarumba ni igiti gikungahaye ku mitima myinshi itandukanye ivura uruhu, ivura mu nda n'uburwayi butandukanye mu bantu.

Icupa rifite ibara ry'umutuku, ririho icyapa kigaragaza ko umuti urimo ukomoka ku gikakarubamba, igikakarubamba ni igiti kivamo imiti itandukanye, inyobwa, yo kwisiga, n'iyo kunywa, ikavura indwara z'ubwoko butandukanye.

Inkomoko y'imiti, ni kumizi, ku mababi, ku bikunyu, no kwitaka, imiti iramanza ikanikwa, inyuma yo kwanikwa igasekurwa.

Imiti ikomoka ku gikakarubamba ikozwe mu buryo butandukanye, hari ikozwe mu masabune, hari ikozwe mu mavuta yo kwisiga n'indi yo kunywa.

Umuti wifashishwa mu kuvura indwara z'ibisebe, uri mu gakarito k'umweru, inyuguti zitanga uwo muti zisa n'ubururu. Uyu muti kandi uteretse ku meza y'umweru.

Akajekani k'umweru, gafite umufuniko w'umutuku, karimo umuti gakondo ukomoka ku giti cyitwa igikakarubamba, umuti ukaba uvura indwara zitandukanye, iz'uruhu iz'ubuhumekero n'izindi.

Igiti kitwa umuravumba, kifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye gakondo, kivura indwara z'umutwe, Malariya, inkorora, indwara z'imitsi n'izindi ndwara zitandukanye zibasira cyane cyane abana.

Imiti ivura indwara zitandukanye z'uruhu. Hari iri mu ducupa tw'icyatsi, indi ikaba mu ducupa tw'umweru, undi ikaba mu ducupa tw'ubururu. Yifashishwa mu kuvura indwara z'uruhu cyane cyane.

Igiti cy'amababi menshi, hasi ya cyo hari ikindi giti gifite amabara y'umutuku, impande yaho hari ibiti by'imihati, ibi byose byifashishwa hakorwa imiti itandukanye ivura abantu n'inyamaswa.

Abagabo barindwi bahetse ibikapu ,bageze mu ishyamba bari kwitegereza umugezi utemba, mu ishyamba ni ho hakomoka imiti itandukanye ikomoka ku mizi, amababi n'ibijumba.

Imiti gakondo ivura indwara zitandukanye iri mu bwoko bubiri hari ikomoka ku gikakarubamba yo mu macupa atandatu agerekeranye hakaba n'indi iri mu macupa atatu abiri hejuru y'umuhondo na rimwe ryo hasi rinini.

Icyatsi cyitwa inyabarasanya kivura indwara z'ibisebe, guhagarika amaraso ari kuva, kwirinda mu gikomere, kuva cyera mubuvuzi bwa gakondo kirakoreshwa.

Imiti iri mu macupa ya palasitiki, hari imiti ifite ibara ry'ikigina, n'indi ifite ibara ry'umuhondo, yose ipfundikije imifuniko y'ubururu, buri ryose rifite icyapa kigaragaza uburyo uwo muti ukoreshwa.

Umuganga gakondo wabigize umwuga, yambaye umupira w'icyatsi, ufite akabara k'umuhondo ku ijosi, yambaye n'ipantaro y'ubururu afite ibyatsi mu ntoki agiye gukuramo imiti. Ahagaze ku ibaraza rifite amabara y'ubururu ku nzu, hasi hashashe ibara ry'icyatsi.

Umuryango w'abantu babiri, umugabo n'umugore b'abazungu, babuze urubyaro, hano bari kutwereka umuti wo mu gacupa k'umweru, ufite icyapa cy'iroza, ko umuntu awunyweye urubyaro rwaboneka mu muryango.

Abahanga mu by'ibiti bambaye imipira y'icyatsi n'amapantaro y'umukara, basuye umuhinzi wahinze igikakarumba. Igikakarubamba ni igiti gikorwamo imiti itandukanye ivura indwara z'amoko menshi: izo mu nda, izo ku ruhu n'izindi.

Imiti gakondo, iri mu macupa y'ibirahuri, afite imifuniko y'umweru, iri mu dusanduku tw'umutuku, yateganyijwe kuvura abantu batandukanye.

Ibyatsi byifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, harimo umuravumba n'ibindi bifite indabo z'umuhondo, byifashishwa bakora imiti itandukanye, irimo isukika, y'amavuta n'iy'amafu.